Abakozi b'umuryango uharanira uburenganzira bw'umwana, bari gufotora umwana wikorejwe ijerekani nini cyane. Tugirwa inama yo kudakoresha abana imirimo ivunanye kuko abana baba bakiri bato kandi iyi mirimo ivunanye yangiriza ubuzima bwabo.

Umugore uri kuvoma amazi ku ivomo rusange arishimye cyane bigaragara ko yishimiye iki gikorwa remezo bagejejweho. Iki gikorwa remezo cyubatswe ku bufatanye bw'ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe isuku n'isukura ku bufatanye n'ikigo mpuzamahanga cya Unicef.

Abana batoya baje kuvoma amazi ku iriba rusange. Iriba rusange rifasha abantu bose b'ingeri zitandukanye ,aho abakene ndetse n'abakire bose bemerewe kuvoma aya mazi. Ahenshi rero usanga aya mazi atagurishwa ari ubuntu natwe rero tuba tugomba kubungabunga aya mavomo rusange kugira ngo amare igihe kinini.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi kandi bigezweho byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye , harimo umurwayi uryamishijwe ku gitanda cyabugenewe bigaragara ko arembye, ari kwitabwaho n'abaganga benshi b'inzobere, iyo umurwayi arembye cyane yitabwaho by'umwihariko akitabwaho n'abaganga benshi kugira ngo barebe ko batabara amagara ye.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bari gufata ifoto y'urwibutso, bigaragara ko basoje amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima bwa muntu. Inyuma yabo hari inzu nini ifite ibara ry'ubururu, bigaragara ko iyi nzu ari ikigo nderabuzima.

Abana batoya biga mu mashuri y'incuke bari guhabwa amata abana baba bagomba kwitabwaho bagahabwa indyo yuzuye harimo n'amata amata afasha abana mu gukura neza bityo rero ababyeyi bashishikarizwa guha abana babo indyo yuzuye kandi bakabaha n'amata kuko bibafasha gukora neza bikabarinda kugwingira.

Abakinnyi b'ikinamico bari gukina berekana uko wakwirinda uramutse uhuye n'umuntu urwaye Ebola. Ebola ni indwara yandura ku buryo iyo ukoze ku matembabuzi y'uyirwaye nawe uyandura. Bityo tugirwa inama yo guhamagara inzego z'ubuzima kugira ngo abe ari zo zita ku muntu urwaye indwara ya Ebola.

Ikindi cyumba cyagenewe gukorerwamo inama kirimo intebe nziza ndetse n'ameza asa neza byifashishwa n'abitabiriye inama. Abitabiriye iyi nama bari kunywa icyayi bigaragara ko bari kuganira ku ngingo ijyanye no kwita ku buzima bw'umuntu, abashinzwe kwita ku buzima bw'umuntu bahora mu mahugurwa kugira ngo barebere hamwe icyateza imbere uru rwego rw'ubuvuzi.

Aba ni abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga bo ku bitaro bya Mayange; bigaragara ko bari kwishimira igikorwa runaka bagezeho. Abaganga n'abajyana bubuzima bakora igikorwa gikomeye cyo kwita ku barwayi; yaba kubavura ndetse no kubagira inama kugira ngo bakomeze basigasire ubuzima bwabo.

Umurwayi uri kuganira na muganga. Amubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo amenye uburyo yamuvura. Inyuma yabo hari icyapa kivuga ngo: " SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanye." Virusi ya SIDA dushishikarizwa kuyirinda, tukayirwanya kugira ngo icike mu rubyiruko ndetse no mu bantu bose.

Abana batoya bari kunywa amazi, ahantu hose hahurira abantu benshi habagomba kuba hari amazi yo kunywa, bityo rero no ku bigo by'amashuri hagomba kuba hari amazi kugira ngo abana bose bakeneye kunywa amazi bayabone kuko amazi ni ubuzima, bityo rero abana bagomba kwigishwa ko kunywa amazi ari byiza kandi bakajya bayanywa igihe cyose bashakiye.

Abana bari kuvoma amazi mu bidendezi, aya mazi ntago aba ari meza kuko atera indwara zirimo inzoka ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'amazi adasukuye, niyo mpamvu leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda nyinshi zitandukanye zo gutuma abaturage babona amazi kandi mu buryo buboroheye.

Uyu mwana ari kunywa amazi meza asukuye mu kigo cy'amashuri yigamo, bitamusabye gusohoka ngo ajye kunywa amazi iwabo cyangwa se mu bigo by'abaturanyi, mu Rwanda ibigo byinshi by'amashuri byashyizweho uburyo bworohereza abana ndetse n'abarezi babo kubona amazi meza asukuye yo kunywa.

Abana batoya b'incuke bari guhabwa amata, gahunda yo guha abana amata ni imwe muri gahunda zashyizweho na Leta. Aho abana bakiri bato bahabwa amata ku mashuri yabo kandi ku buntu, igikorwa cyo guha abana amata kituma hagabanyuka igwingira mu bana.

Abana bari kwitabwaho bahabwa indyo yuzuye y'umwana yitaweho agahabwa indyo yuzuye bimurinda kugwingira, ikindi kandi bibafasha mu kuzamura imitekerereze yabo kandi bigatuma bakura neza bityo rero ababyeyi bashishikarizwa guha abana babo indyo yuzuye irimo imboga, imbuto, ndetse n'ibikomoka ku matungo.

Umuganga wambaye ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwirinda harimo uturindantoki, agapfukamunwa ndetse n'ikindi gikoresho gipfuka amaso ye, ari kuganiriza umugabo bigaragara ko ashobora arwaye indwara zandura. abaganga bagirwa inama yo kwirinda cyane igihe bagiye guhura n'abarwayi bafite indwara zandura. kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ry'izo ndwara.

Abana bakiri batoya biga mu mashuri abanza, bari kwitabwaho n'abaganga bahabwa imiti itandukanye ibarinda indwara zirimo inzoka ndetse n'izindi ndwara, abana baba bagomba kwitabwaho cyane, bahabwa imiti ndetse n'indyo yuzuye, niyo impamvu Minisiteri y'uburezi yashyizeho igikorwa cyo kurira ku mashuri, aho abana benshi barira ku mashuri kandi bakishyura amafaranga makeya cyane.

Abantu benshi biganjemo abakobwa ndetse n'inkumi, bari ku murongo umwe, bigaragara ko bagiye gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo gusoza igikorwa cy'amahugurwa ajyanye no kurwanya ndetse no gukumira ugutwita kw'abangavu.

Igiikorwa cyo gusuzuma ubuzima bw'abana, ababyeyi benshi bagirwa inama yo kuzana abana babo ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo harebwe niba imikurire yabo imeze neza, kandi niba hari ikibazo cy'uburwayi abana babashe kuba bajyanwa kwa muganga hakiri kare kugira ngo bitazabatera ingaruka mu buzima bwabo.

Umwana mutoya uri guhabwa umuti na muganga, abana bitabwaho by'umwihariko iyo bakiri bato kugira ngo bakure bafite ubuzima buzira umuze, niyo mpamvu umubyeyi wese aba asabwa kujyana umwana we kwa muganga igihe cyose abonye ko habayemo impinduka mu buzima bw'umwana we.

Umwana mutoya wambaye ikanzu y'umutuku uri mu kigero cy'imyaka itanu yaje kunywa amazi ku iriba rusange bigaragara ko iri riba ryubatswe ku bufatanye n'umuryango utegamiye kuri leta wa wold vision. Iriba rusange ni imwe muri gahunda zashyizwemo imbaraga na Leta y'u Rwanda aho ishishikariza abafatanyabikorwa mu gukora iki gikorwa remezo.

Umuntu urimo gusuzumwa indwara zitandukanye n'inzobere mu by'ubuzima. Natwe tugirwa inama zo kwisuzumisha kenshi kugira ngo tumenye uko imibiri yacu ihagaze. Iyo wisuzumishije bigufasha kumenya nimba urwaye cyangwa se nimba utarwaye, wasanga urwaye bigatuma ufatira imiti ku gihe, indwara itari yakurembya.

Abana batoya ndetse n'umubyeyi baje gushaka amazi ku riba rusange, bigaragara ko aha hantu ari kure y'ingo kuko ntago zihegereye turi kubona, iriba rusange ryashyizweho kugira ngo ryoroshye ibikorwa byo kubona amazi meza kuko abantu benshi byagaragaye ko nta bushobozi buhagije bafite bwo kuzana amazi mu ngo zabo bityo rero leta iba igomba kubashyiriraho iriba rusange, aho buri muturage yemerewe kuvoma amazi kandi ku buntu.

Umugore umugabo wambaye umupira w'umuhondo uri kuuganiriza abana benshi, bigaragara ko uyu mugabo akorera umwe mu miryango idaharanira inyungu ikorera mu Rwanda, aho iyo miryango yibanda ku bana cyane cyane abafite ubushobozi buke mu kubafasha kubona ibikoresho by'ishuri ndetse no kubona ibyo kurya.

Abana batoya bicaye hasi bari mo kuganirizwa n'abayobozi babo bigaragara ko abana ari abanyeshuri. Tuba tugomba kwita ku bana bacu tubaha uburere bukwiriye kugira ngo ejo habo hazaza hazabe heza, kuko igiti kigororwa kikiri gito, bityo rero ibyo ibyo dushaka kubigisha tuba tugomba kubibigisha bakiri bato kugira ngo bakure babizi kandi neza.

Igikorwa cyo gusuzuma abantu indwara zitandura, uyu mugore yaje kwiyisuzumisha kugira ngo harebwe uburyo umutima we uri gutera ndetse n'uko amaraso atembera mu mubiri, iki gikorwa kirafasha cyane kuko iyo usanze mu mutima wawe utari gutera neza cyangwa amaraso yawe ari kwihuta mu mubiri, ugirwa inama na muganga kugira ngo iyi ndwara ihite ikira.

Ababyeyi bari kuvoma amazi kuri iriba rusange bakoresheje indobo. Iri iriba rusange bigaragara ko ryubatswe n'ikigo mpuzamahanga cya UNICEF kubera ko ikirangantego cyabo giteye kuri iryo riba. Ibigo mpuzamahanga byita ku mibereho ya muntu bikunda gukora ibikorwa by'urukundo aho biha abaturage amazi meza ndetse n'amashanyarazi.

Abaturage barimo abagabo n'abagore bari kwigishwa gusoma no kwandika, hirya no hino mu gihugu hashyizweho uburyo bworohereza abakuze kwiga gusoma ndetse no kwandika, gusoma no kwandika nibimwe mu by'ibanze umuntu yagakwiye kuba azi kuko muri iy'isi tugezemo biragoye kubaho utazi gusoma no kwandika, niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yabishyizemo imbaraga kuri buri wese ushaka kubimenya kugira ngo abimenye.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abana, baje gushaka amazi ku ivomo rusange. Ivomo rusange riba ryarubatswe ku bufatanye na Leta cyangwa se indi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu, aho abantu bahabwa amazi ku buntu nta kiguzi basabwe.

Ahantu habereye igikorwa rusange cyo gusuzuma abarwayi ku buntu, kugira ngo harebwe indwara barwaye, hari n'imbangukiragutabara, imbangukiragutabara iba irimo ibikoresho bitandukanye, byakwifashishwa mu gihe hari umurwayi ugize ikibazo gikomeye muri ako kanya.

Inamama yiga ku kuzamura uburenganzira bw'umwana, iyi nama iyobowe n'umuryango wa UNICEF. Umuryango UNICEF ni umuryango ukorera mu bihugu byinshi ku isi aho uharanira uburenganzira bw'umwana ndetse ugashyiraho n'ibihano kuri bamwe bangiriza uburenganzira bw'umwana babishaka.

Aba ni abakozi b'umuryango UNICEF umuryango ukorera mu bihugu byinshi hano ku isi, aho wita ku bantu cyane cyane abafite ubushobozi buke mu kubabonera ibikoresho by'ibanze, uyu muryango wibanda ku buzima bw'abana batoya ndetse n'ababyeyi batwite.

Umubyeyi ufite imisatsi miremire wambaye agapfukamunwa k'ubururu ateruye umwana we, bigaragara ko yamuzanye kwa muganga, abana ni bamwe mu bakunda kwibasirwa n'indwara nyinshi zitandukanye kandi zikabahaza bityo ababyeyi bashishikarizwa kujyana abana babo kwa muganga igihe cyose babona batameze neza.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye biganjemo abagore. Bari guhabwa amahugurwa y'ukuntu bakwita ku buzima bwa muntu. Bigaragara ko aba bantu ari abajyanama b'ubuzima cyangwa se abandi bakora muri serivisi z'ubuvuzi. Kuko ni bo bakunda guhabwa amahugurwa ajyanye no kubungabunga ubuzima bwa muntu.

Umwana mutoya ari kuvoma amazi yo kunywa ku iriba rusange natwe dushishikarizwa kunywa amazi igihe cyose tuyakeneye iriba rusange ryakemuye ibibazo byo kubura amazi akenshi abantu cyane cyane abo mu cyaro bakoreshaga amazi adasukuye ariko ubu bitewe na gahunda leta yo kwegereza abaturage ibikorwaremezo harimo n'amazi abaturage benshi babona amazi meza asukuye.

abana batoye biga mu mashuri abanza bari gufata ifunguro rya saa sita leta y'u rwanda yashyizeho gahunda aho abana bose barira ku bigo by'amashuri biga ibi byagabanyije ibibazo bitandukanye kuko hasanzwe ko abana benshi bagera iwabo bagasanga ababyeyi babo batari bahisha bityo rero bagomba gufata ifunguro rya saa sita ku ishuri ubundi bagakomeza amasomo yabo neza

Abana benshi bari gukaraba intoki ku iriba rusange, bigaragara ko aba bana ari abanyeshuri, bashyiriweho uburyo bworoheje bwo kugira ngo bajye bakaraba intoki igihe cyose bavuye mu bwiherero, cyangwa igihe bagiye kurya kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Icyumba kiri kuberamo inama. Muganga ari kuganiriza abaturage batandukanye, uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo ndetse no ku buzima bw'abana babo. Abaturage bahora bashishikarizwa kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abana babo kugira ngo ejo habo hazabe heza.

Ivomo rusange rigezweho, iri vomo rishobora kuvomwaho n'abantu barenze batatu icyarimwe, amavomo rusange imwe muri gahunda yashyizwemo imbaraga na leta, aho abaturage begerezwa amazi kandi ku giciro kiboroheye, buri muturage wese yemerewe kuvoma kuri aya mazi kandi ikiguzi kiba ari gitoya cyane.

Uyu ni umuryango mpuzamahanga wa oni, uyu muryango ukora mu bihugu byinshi byo ku isi ufite ishami riwushamikiyeho rishinzwe gutanga ibiribwa ndetse no kwita kubaye. Uyu muryango ushinzwe kwita ku bababaye utanga ibiryo ndetse n'indi mfashanyo ku bantu bari mu bibazo bikomeye, harimo ibibazo by'amapfa, ibibazo by'intambara ndetse n'abandi bageramiwe.

Umuganga uri guha abaturage ibijyanye no kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abana babo, dushishikazwa kenshi kwita ku buzima bwacu kuko ubuzima iyo butabungabunzwe buramugwa, bityo rero tugomba kwita ku buzima bwacu twirinda ibiyobyabwenge, turya indyo yuzuye kandi tugakora imyitozo ngororamubiri, ibi bizadufasha kugera ku iterambere ryacu ndetse dufashe n'igihugu cyacu kugera ku iterambere rirambye.

Abayobozi batandukanye bari gutanga amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima bwa muntu, inyuma yaho hari icyapa kinini cy'ibara ry'ubururu amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru. Kwa muganga ndetse n'abandi bantu bakora mu nzego z'ubuzima bagomba guhabwa amahugurwa menshi atandukanye kugira ngo bakomeze babungabunge ubuzima bwa muntu.

Umukobwa uri kuvoma amazi mu mugezi utemba, aya mazi ntago aba ari meza, tugirwa inama yo kutayakoresha dusukura ibyo kurya ndetse dutunganya ibyo kurya bityo aya mazi tugomba kuyakoresha mu bikorwa byo kuhira imyaka ndetse n'ibindi bikorwa bidafite aho bihuriye n'amafunguro.

Abayobozi bari gusuhuzanya bigaragara ko basoje inama, yiga ku buryo urwego rw'ubuvuzi rwakomeza gutera imbere. Urwego rw'ubuvuzi ni rumwe mu nzego zikomeza gushyirwamo imbaraga, kuko indwara nazo zikomeza ziyongera, bityo rero urwego rw'ubuvuzi rugomba kuba rufite imbaraga kugira ngo ruhangane n'indwara zose zadutse.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye barimo abana, abagabo, abasaza, abasore ndetse n'inkumi bitabiriye gahunda yo gusuzumwa indwara zandura ndetse n'izitandura. Igikorwa cyo gusuzuma abantu indwara zitandura ndetse n'izitandura gikorwa ku buntu, aho abantu basabwa kwitabira iki gikorwa kandi nta kiguzi basabwa.

Ababyeyi bazanye abana babo kwa muganga kugira ngo harebwe ko bari gukura neza, iyo hasanzwe batari gukura neza, abana bahabwa imfashamirire kandi n'ababyeyi bakagirwa inama z'uko bagomba kwita ku bana babo, kuko umwana iyo atitaweho akiri muto bimugiraho ingaruka mu buzima bwe bwose.

Umukobwa uri gufura imyambaro itandukanye, ntabwo bimugora kubona amazi kuko iwabo bafite umugezi, mu Rwanda abantu benshi boroherejwe kubona amazi, aho bishyura amafaranga make ubundi bagafashwa kugeza amazi iwabo.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, bigaragara ko basoje amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima bw'umuntu. Aya mahugurwa ahabwa abantu benshi batandukanye hano mu Rwanda, harimo nk'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga, aho batozwa uburyo bwo kwita ku muntu ufite ikibazo cy'uburwayi.

Abantu benshi bari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama bari kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu. Abantu bakoramo serivisi z'ubuzima bakunda guhabwa amahugurwa, aho baganirizwa ku buryo butandukanye bwo kwita ku murwayi kugira ngo umuntu wese uganye serivisi z'ubuvuzi, ahabwe ubuvuzi bufite ireme.

Abaturage benshi bagiye kwa muganga kwivuza indwara zitandukanye. Bigaragara ko bategereje kubonana na muganga. Natwe dushishikarizwa kwitabira serivisi z'ubuvuzi tukajya kwa muganga igihe cyose twumva umubiri wacu utameze neza, kandi ntabwo tugomba kujya kwa muganga twarembye; ahubwo iyo tukirwara dushishikarizwa kujya kwa muganga kugira ngo twitabweho hakiri kare kandi dukire vuba.

Umugabo n'umugore baje ku ivomo rusange, bari kumwe n'umukozi ushinzwe kwita ku mibereho myiza y'abaturage, ivomo rusange ni kimwe mu bintu byagiriye abaturage akamaro kuko abaturage benshi ntabwo bafite amikoro ahagije yo gukurura amazi mu ngo z'iwabo, bityo rero biba byiza iyo bafite ivomo rusange aho bakura amazi kandi amazi ahendutse.

Abaganga bari kumwe n'abayobozi wabo bari gufata ifoto y'urwibutso, biragaragara ko basoje igikorwa cyo kuvura abantu. Abaganga bakora akazi gakomeye ko kwita ku buzima bw'umuntu, ni yo mpamvu biga igihe kinini igihe bari mu mashuri, kandi basoza bagahabwa amahugurwa ahagije, kugira ngo bavure indwara neza kandi zikire.

Ibi ni ibyuma bigezweho byifashishwa kwa muganga mu kongera abarwayi umwuka mu gihe bawukeneye. Hari igihe umurwayi aremba bikaba ngombwa ko yongererwa umwuka mwiza kandi utunganyije, bityo rero ibi ibyuma ni ingirakamaro kuko iyo umurwayi akeneye umwuka akawubura, bishobora kumuviramo ingaruka nyinshi, harimo no gupfa.

Umwana mutoya w'umukobwa arikuvoma amazi ku iriba rusange yifashishije indobo ifite ibara ry'umweru. Iriba rusange ni imwe muri gahunda zashyizweho na Leta aho abantu bafite ubushobozi bukeya bubakirwa amavomero, ndetse hagashyirwaho ikiguzi gitoya cyane ku mazi kugira ngo na bo babashe kubona amazi asa neza kandi mu buryo buboroheye.

Umwana uri guseka waje gushaka amazi ku iriba rusange, bigaragara ko aya ari amazi meza umuntu ashobora kunywa. Iriba rusange ni imwe muri gahunda zashyizwemo imbaraga na Leta y'u Rwanda kugira ngo abantu bose yaba abakire ndetse n'abakene, babashe kubona amazi meza kandi asukuye.

Abana biga mu mashuri abanza, bari kunywa amazi mu gihe bari ku ishuri. Amazi ni ingirakamaro ku buzima bwa buri wese. Yaba ubuzima bw'abato ndetse n'ubuzima bw'abakuze. Niyo mpamvu abana boroherejwe uburyo bwo kubona amazi meza kandi asukuye igihe bari ku ishuri.

Iri ni ivomo rusange aho abantu benshi baje gushaka amazi. Ivomo rusange, akenshi usanga amazi ari ubuntu aho leta iba yarabubakiye amavomo ku buntu bityo rero bakabona amazi meza kandi ku buntu. Ibi bibarinda indwara zitandukanye zirimo indwara z'inzoka ndetse n'izindi zikomoka ku kunywa amazi mabi.

Icyumba cyiza, gikorerwamo inama, kirimo intebe ndetse n'ameza bisa neza, iki cyumba kiri kuberamo inama yiga ku buzima, bigaragara ko iki cyumba ari icya leta y'u Rwanda, kuko ku rukuta rwacyo hamanitse ifoto ya perezida wa repubulika y'u Rwanda, nyakubahwa perezida Paul Kagame.

Umugabo usa neza wishimye, waje gushaka amazi ku ivomero rusange. Ivomero rusange ni imwe muri gahunda leta yashyizeho, kugira ngo ibashe kugeza amazi ku baturage benshi, yaba abishoboye ndetse n'abatishoboye.

Abajyanama b'ubuzima bamaze guhabwa amahugurwa. Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bantu bakora muri serivisi y'ubuvuzi, baba bagomba guhabwa amahugurwa kenshi gashoboka kuko indwara zihora zihindagurika bityo rero nabo bagomba kuba bafite ubumenyi kuri buri ndwara yadutse kugira ngo yirindwe kandi ivurwe ikire.

Aba ni abajyanama b'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima bakora akazi gakomeye cyane aho bahugura abantu babigisha uko bateka indyo yuzuye, uko bakwita ku buzima bw'umwana uri mu nda ndetse n'umwana w'incuke. Kandi bakigisha abantu uburyo bwinshi butandukanye bwo kwita ku buzima bwabo.

Ni amazi meza n'isabune arifashwamo n'umubyeyi we ababyeyi bashishikarizwa kwita ku bana babo babigisha gukaraba intoki igihe cyose bavuyemo ubwiherero n'igihe bagiye kurya abana bakunda kwibasirwa n'indwara ziterwa n'umwanda bityo rero bagomba kugira isuku ku ntoki zabo kugira ngo izi ndwara zirusheho kugenda zigabanyuka.

Umwana uri gukaraba intoki ku ivomo rusange. Tugirwa inama yo gukaraba intoki kenshi gashoboka kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda. Gukaraba intoki tugomba kubigira umuco, igihe tuvuye mu bwiherero ndetse n'igihe tumaze gukora ibintu byanduza ibiganza byacu, tugomba gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune.

Abana bari ahantu hari amazi mabi bafite ibirahuri birimo amazi bari kwigishwa uko amazi meza agomba kuba ameza ntabwo tugomba gukoresha amazi mabi kuko amazi mabi adutera indwara harimo nk'inzoka ndetse n'izindi ndwara zituruka kugukoresha amazi mabi.

Abakozi b'umuryango mpuzamahanga wa UNICEF, umuryango wa UNICEF ugira uruhare runini mu kwita ku buzima bw'abana, cyane cyane abana bakomoka mu miryango itishoboye, aho bahabwa ibikoresho bitandukanye, harimo; nk'ibiribwa, ndetse n'ibikoresho by'ishuri.

Abagabo ndetse n'abagore bari guhabwa amahugurwa yo kubungabunga ubuzima bwa muntu. Buri wese afite ikayi n'ikaramu aho ari kwandika bimwe mu biri kuvugirwa hano hantu. Bigaragara ko aba ari abajyanama b'ubuzima. Kuko abajyanama b'ubuzima ni bo bakunda guhabwa amahugurwa, kugira ngo bagire ubumenyi bw'ibanze mu bijyanye no kuvura indwara.

Abana benshi baje gushaka amazi ku ivomo rusange. Iri vomo rusange bigaragara ko ari ivomo riherereye ahantu hadakunda kuboneka amazi. Kuko uburyo ryubatswe mu ivoma rikura amazi munsi mu butaka. Amavomo rusange ni imwe muri gahunda zashyizweho na Leta kugira ngo abaturage bose babone amazi kandi amazi meza.

Abaturage baje gushaka amazi ku iriba, iriba rimeze gutya rikunda kuboneka mu nshe z'iburasirazuba ndetse n'ahandi hantu hadakunda kuboneka amasoko hafi, aho hacukurwa icyobo kinini, umuturage umwe agapompa amazi undi ari kuvoma kugira ngo amazi aturuke hasi mu kuzimu bisaba gukoresha imbaraga, aho bapompa imashini ikazamura amazi.

Umwana waje kuvoma amazi kw'iriba rusange, arishimye cyane bigaragara ko yishimiye gahunda ya leta yashyizweho kugira ngo abantu bajye babona amazi mu buryo buboroheye. Ubu mu Rwanda aho waba uri hose wabona amazi meza kandi asukuye ku giciro cyoroshye kuburyo buri wese afite ubushobozi bwo kuba yabona amazi.

Umwana uri gukaraba intoki yifashishijwe ibikoresho byabugenewe, abana ndetse n'abantu bakuru bashishikarizwa gukaraba intoki hifashishijwe amazi meza n'isabune. Gukaraba intoki buri gihe bituma umuntu atarwara indwara zitandukanye harimo indwara ziterwa n'umwanda, aha twavugamo nk'indwara y'impiswi ndetse n'izindi ndwara.

Ni umugabo waje gushaka amazi ku ivomo rusange, arishimye cyane bigaragara ko amazi ayabonye mu buryo butamugoye. Natwe tuba tugomba kwita ku mavomo rusange, kuko iyo atitaweho arangirika kandi n'ibikorwa remezo, bityo rero tuba tugomba kuyafata neza, tukayakorera isuku kugira ngo azabeho igihe kinini.

Umwana mutoya uri kwitabwaho n'abaganga babiri, bigaragara ko uyu mwana arembye cyane, kuko yashyizwemo ibimwongerera amasukari mu mubiri, ndetse n'ibindi byuma bitandukanye bimufasha kugira ngo umubiri we ukomeze gukora neza.

Abaturage baje gushaka amazi ku iriba rusange, iriba rusange rifasha abaturage kubona amazi meza kandi ku giciro kiboroheye, abaturage benshi bishimira iyi gahunda ya leta, kubera ko bibafasha kubona amazi meza mu buryo buboroheye, kandi bakayabona hafi yabo.

Abakobwa bane ndetse n'umusore umwe barifata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru, amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, aba bambaye imipira isa y'ibara ry'ubururu, yanditseho shora heza, bigaragara ko basoje amahugurwa ajyanye no gukora ubukangurambaga bw'iki kigo.

Abayobozi baturutse ku bitaro bitandukanye bari mu nama yigira hamwe uburyo ubuvuzi bugomba gutezwa imbere. Ubuvuzi ni kimwe mu bikenera ikoranabuhanga rikomeye bityo rero haba hagomba kuba ubufatanye hagati y'amavuriro kugira ngo abarwayi bahabwe serivise nziza kandi inoze.

Umwana urimo kunywa amazi ku iriba rusange, amazi ni ingirakamaro ku buzima bwacu, niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yazanye gahunda yo gukwirakwiza amazi ku baturage bose, aho abaturage bafite amikoro ndetse n'abatayafite, ubu bafite ubushobozi bwo kuba babona amazi meza kandi abegereye.

Icyumba gisa neza cyagenewe gukorerwamo inama, kirimo intebe n'ameza bicyeye byifashishwa n'abitabiriye inama. Iki cyumba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye bitabiriye inama kandi buri wese witabiriye inama yahawe amazi yo kunywa. Akenshi mu nama abantu bose bahabwa amazi yo kunywa, kugira ngo bakomeze gukurikirana inama neza badasinzira.

Iki ni icyumba kiri kuberamo amahugurwa yo kwita ku buzima bwa muntu, abaganga ndetse n'abandi bafite inshingano zo kwita ku buzima bw'umuntu, bahora bahabwa amahugurwa y'uko bakwita ku buzima bw'umuntu n'ukuntu bakwigisha abantu kwita ku buzima bwabo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima buzira umuze.

Umwana mutoya uri mu kigero k'imyaka itatu ari gukaraba intoki. Abana batoya baba bagomba kwigishwa ko gukaraba intoki ari umuco, kugira ngo bazakure babizi, kuko gukaraba intoki ni byiza cyane biturinda indwara zitandukanye, cyane cyane nk'indwara y'inzoka ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda.

Abana batoya bari kunywa amazi ku ivomo rusange, ivomo rusange ni imwe muri gahunda zashyizweho na leta kugira ngo abaturage bose, yaba abishoboye ndetse n'abatishoboye babashe kubona amazi kandi amazi asukuye, bityo rero tuba tugomba kwita ku mavomo rusange tuyakorera isuku twirinda kwangiza amazi, ahubwo tuyakoresha igikwiye.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe kwita ku buzima cyo muri Amerika ikigo gishinzwe kwita ku buzima cya ariyance ni ikigo cyashinze imizi mu isi hose aho usanga gifite amashami ahantu henshi mu bihugu bitandukanye iki kigo gitanga imiti itandukanye harimo inkingo ndetse n'imiti ivura indwara nyinshi.

Abajyanama b'ubuzima bishimye cyane bigaragara ko basoje amahugurwa, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ryiza ry'umukara, bigaragara ko uyu mugabo ari umuyobozi wabo. Inyuma yabo hari inzu nini ifite irangi ry'umuhondo, bigaragara ko ari ikigo nderabuzima.

Igikorwa rusange cyo gupima abantu indwara, iki gikorwa kiba kenshi aho abantu bapimwa indwara zitandukanye harimo nk'umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse na virusi itera Sida. Ibi byose bikorwa ku buntu aho umuntu wipimisha nta kiguzi na kimwe asabwa.

Umwana ari kuvoma amazi yo kunywa ku kigega tugirwa inama yo kutanywa amazi yo mu kigega kuko akenshi amazi yo mu kigega aba yanduye cyane cyane iyo ari amazi y'imvura amazi y'imvura ntamazi meza kuko abarimo mikorobe nyinshi bityo rero tugomba gukoresha amazi y'umugezi kandi asukuye igihe tugiye kunywa amazi.

Abayobozi bo mu nzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano bitabiriye gahunda yo guha abaturage amahugurwa ajyanye n'uburyo bakwita ku buzima bwabo. Abaturage bakunda gukoreshwa inama ijyanye n'uko bagomba kwita ku buzima bwabo, kuko ubuzima iyo butabungabunzwe buramungwa. Bityo rero, natwe tuba tugomba kwita ku buzima bwacu, dukurikiza inama tugirwa n'abaganga ndetse dufata indyo yuzuye kandi twirinda ibiyobyabwenge.

Iki ni ikigega kinini gitunganyirizwamo amazi. Amazi aba agomba gutunganywa, kugira ngo agere ku baturage asukuye. Amazi ashyirwamo imiti yica mikorobe, kugira ngo abaturage nibayanywa, abagirire akamaro, aho kubatera indwara nyinshi zitandukanye.

Ababyeyi bari kunywa amazi ku ivomo risa neza, amavomo asa neza yubatswe henshi mu Rwanda kugira ngo abaturage bose babashe kubona amazi meza kandi asukuye, bityo hirindwe zimwe mu ndwara ziterwa n'amazi mabi.

Abantu benshi batandukanye bari guhabwa amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima bwa muntu, bigaragara ko aba bantu ari abajyanama b'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima bakunda guhabwa amahugurwa y'uko bakwita ku buzima bwa muntu ndetse bakigishwa kuvura zimwe mu ndwara z'ibanze.

Abaturage baje gushaka amazi ku ivomo muri rusange, ivomo rusange ni imwe muri gahunda zashyizweho na leta kugira ngo hirindwe indwara nyinshi zaterwaga no gukoresha amazi mabi, abaturage bashyirirwaho ivomo rusange bagasabwa ikiguzi gitoya cyane ndetse hamwe na hamwe hari igihe amazi akoreshwa ntakiguzi basabwe.

Umwana mutoya uri guterwa urukingo rw'indwara y'imbasa, mu Rwanda umwana wese ugejeje amezi icyenda avutse, aterwa urushinge rumufasha kongera abasirikare mu mubiri we kugira ngo yirinde indwara y'imbasa.

Abaganga bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko basoje igikorwa cyo gusuzuma abantu indwara zitandukanye, abaganga bakunda gukora iki gikorwa aho abantu baza gusuzumwa indwara zitandukanye bagahabwa n'ubujyanama ku bijyanye no gufata neza imibiri yabo.

Abana bari gukaraba amazi meza n'isabune. Gukaraba amazi meza n'isabune bifasha mu kurinda indwara ziterwa n'umwanda, harimo nk'inzoka ndetse n'izindi, tugomba gukaraba igihe tuvuye mu bwiherero ndetse n'igihe dukoze ibintu byanduza ibiganza byacu.

Abana bari kunywa amazi ku ivomo ryabashyiriweho. Ibigo by'amashuri byinshi byubatse amavomo, kugira ngo abana bazajye babona uko banywa amazi, kandi banakarabe intoki mu gihe cyo kurya. Amazi meza ni ingenzi, niyo mpamvu ahantu hose hahurira abantu benshi, hagomba kuba haboneka amazi meza yo kunywa.

Ababyeyi benshi bazanye abana babo kubakingiza indwara zitandukanye, abana bagomba gukingirwa indwara nyinshi zitandukanye harimo indwara y'imbasa, iyo umwana amaze gukura ageze ku myaka cumi n'ibiri akingirwa indwara y'inkondo y'umura ndetse n'izindi nkingo zitandukanye zihabwa abana kugira ngo bakure bafite ubuzima buzira umuze.

Umwana mutoya guhahabwa amata, ababyeyi benshi bashishikarizwa guha abana babo amata ndetse n'igikoma kirimo uruvangitirane rw'amafu menshi, ibi bituma umwana akomeza kubona intungamubiri zihagije zimufasha gukura neza. Abana ni bamwe mu baba bakeneye intungamubiri nyinshi cyane kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza.

Ababyeyi bari kubyina imbyino gakondo. Bigaragara ko bari kwigishwa uburyo butandukanye bwo kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'imiryango yabo. Ababyeyi bahabwa amahugurwa atandukanye yo gutegura amafunguro ndetse no kwita ku suku y'ingo zabo. Kuko urugo rurimo umubyeyi ufite isuku, urwo rugo na rwo ruba rusukuye.

Abantu bari kunywa amazi meza kuri rusange rusange ni igikorwa remezo cya twese bityo rero tuba tugomba kuryitaho tuyikorera isuku kandi tuyisana aho byangiritse kugira ngo turusheho kubona amazi meza twese turabizi ko amazi ari ubuzima bityo rero tuba tugomba kubungabunga ahantu hose hari ibikorwa bitugezaho amazi meza.

Imodoka ndende za makuzungu zitwaye ibikoresho by'umuryango uharanira ibiribwa ku isi. Uyu muryango akenshi uba ahantu hari intambara cyangwa hari amapfa. Aho ufasha abantu batishoboye kubona ibyo kurya ndetse n'ibyo kwambara.

Abana babiri bari gukaraba intoki, umwe ari gusukira mugenzi we amazi kugirango ngo abanze akarabe intoki. Gukaraba intoki ni imwe muri gahunda dushishikarizwa kugira ngo twirinde indwara zikomoka ku mwanda. Aha twavugamo nk'indwara y'inzoka ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zibasira ubuzima bwa muntu.

Abana babiri harimo umwe uri mu kigero cy'imyaka cumi n’itanu ndetse n'undi uri mu kigero cy'imyaka ine, baje kuvoma amazi bigaragara ko atari amazi meza yagakwiye gukoreshwa mu ngo, tugirwa inama zo kudakoresha aya mazi kuko atera indwara nyinshi zirimo indwara z'inzoka ndetse n'izindi ndwara zituruka mu gukoresha amazi adasukuye.

Ababyeyi benshi bazanye abana babo kubasuzumisha, kugira ngo harebwe uko imikurire yabo iri kugenda kandi kugira ngo hasuzumwe harebwe nimba hari indwara baba barwaye, maze bavurirwe ku gihe, bityo rero ababyeyi bose bashishikarizwa kujyana abana babo kwa muganga mu gihe cyateganyijwe, kugira ngo hirindwe zimwe mu ndwara zihitana abana.

Aha ni ku iriba rusange, aho hahuriye abantu benshi batandukanye, bamwe baje kuvoma amazi, abandi baje kumesa imyenda yabo, hari n'umubyeyi uri gukarabya umwana we, aho mukarabiriza mu ibase, ababyeyi bagirwa inama yo kwita ku bana babo bakabakorera amasuku, kuko iyo umwana adakorewe isuku ku mubiri we bimuviramo indwara zitandukanye.

Igikorwa cy'ubuvuzi aho abaganga benshi bari kwita ku barwayi bigaragara ko iki gikorwa cyabereye ahantu hahurira abantu benshi ,abantu benshi bagirwari inama yo kwisuzumisha no kwivuza indwara zitandura ,igihe hashyizweho gahunda tuba dusabwa kwitabira iki gikorwa kuko akenshi gikorwa ari ubuntu nta mafaranga dusabwa kugira ngo dusuzume izo ndwara zitandura.

Umujyanama w'ubuzima uri kuganiriza umubyeyi, ari kumwereka uburyo abana bagomba kwitabwaho kandi bagakora neza, bari kumwereka ibipimo bigenderwaho hasuzumwa uburyo imikurire y'umwana ihagaze.

Abagore babiri bambaye neza kandi basa neza, bigaragara ko bari mu biro, inyuma yabo hari ibendera risa, bigaragara ko bakorera ikigo kimwe mpuzamahanga gishinzwe ibijyanye n'ubuzima, iki kigo mpuzamahanga gikoresha abantu benshi, yaba abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko.

Abana benshi bigaragara ko ari abanyeshuri, bari kwishimira umunsi mpuzamahanga wagenewe ubuzima, bafite ibitabo bisa, ibigaragara hano habaye igikorwa rusange cyo kwishimira uwo munsi mpuzamahanga.

Aha habera igikorwa rusange cy'ubuvuzi, aho abaturage basangwa mu bice batuyemo bagahabwa serivisi zirimo gukingirwa indwara zitandukanye ndetse no gupimwa indwara zitandura. Dushishikarizwa kwitabira izi serivisi kuko ni nziza ku buzima bwacu.

Umwana mutoya uri kuvoma amazi mu kidendezi biragaragara ko aya mazi agiye gukoreshwa i wabo mu rugozi nk'aya ntabwo ari meza kuko adutera indwara nyinshi zitandukanye, bityo rero dushishikarizwa kudakoresha aya mazi ahubwo tugakoresha amazi meza kandi asukuye.

Abaganga barimo abagabo n'abagore bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rwabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, inyuma yabo hari inzu nini igaragara nk'aho ari sale ikorerwamo inama n'abaganga bo kwa kino kigo nderabuzima.

Abana babiri baje kuvoma amazi bifashishije indobo bigaragara ko aha ari ku iriba rusange ni rusange ni imwe muri gahunda zatejwe imbere muri iki gihe aho buri mudugudu uba ufite amariba menshi ahagije kugirango abaturage badafite imigezi mu ngo zabo babashe kubona amazi meza kandi hafi yaho.

Umubyeyi uri gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe ,kandagira ukarabe ni igikoresho cyifashishwa mu gukaraba intoki, natwe tuba tugomba gushyiraho uburyo bwinshi budufasha gukaraba intoki, kugira ngo ngo dukomeze tugire isuku, bityo biturindade indwara nyinshi ziterwa n'umwanda.

Aha hari kubera igikorwa cyo gukingira abantu indwara zitandukanye, aho bamwe mu babyeyi bitabiriye iki gikorwa. Ibi twabibonye kenshi mu gihe cya Kovidi cumi n'icyenda, aho abantu benshi basabwaga kwiteza inkingo kugira ngo turusheho kurwanya iyi ndwara.

Abaganga basoje amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima bwa muntu, bari gufata ifoto y'urwibutso bari kumwe n'umuzungu wambaye ikanzu y'umutuku, bigaragara ko uyu muzungu ari we wari uri kubakoresha amahugurwa, abaganga bakunda gukoreshwa amahugurwa cyane kugira ngo barusheho kugira ubumenyi butandukanye ku ndwara zitandukanye.

Batishoboye bakunda guhabwa ubufasha kugira ngo babone ibyo kurya. Leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bakunda gukora igikorwa cy'urukundo aho bagenda bagasura imiryango itishoboye bakayifasha kubona ibyo kurya kandi igihe cy'inzara cyangwa se igihe cy'amapfa aho abantu bahuye n'ibiza runaka leta igira uruhare mu gufasha abo bantu kubona ibyo kurya.

Abana batoya bazanywe ku mujyanama w'ubuzima, bari gupimwa kugira ngo harebwe uburyo ibiro byabo biri kwiyongera, iyo hasanzwe ibiro by'abana bitari kwiyongera neza, ababyeyi bagirwa inama zitandukanye zo gutuma abana babo bakura neza kandi ababyeyi batishoboye bagahabwa ibifasha abana babo mu gukora neza harimo nk'ifu y'igikoma ndetse n'ibindi bituma abana bakora neza.

Umubyeyi wazanye umwana we ku mujyanama w'ubuzima, ari kumupima kugira ngo harebwe uburyo ubushyuhe bwo mu mubiri we buhagaze. Ababyeyi bashishikarizwa kujyana abana babo kwa muganga igihe cyose batameze neza, kugira ngo bavurwe hakiri kare kandi hirindwe ko indwara zazahaza abana babo.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi rifite ibara ry'umuhondo, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa byo kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'abafite ihungabana. Ahantu henshi hagomba gushyirwa nk'ibi bigo byifashishwa n'abantu bafite ibibazo by'ihungabana kugira ngo babone aho baruhukira igihe bumva batameze neza.

Umugabo wishimye cyane, inyuma ye hari ibishusho binini by'ingagi, bigaragara ko aha habereye umuhango wo kwita izina ingagi, dushishikariza kwitabira ibikorwa byinshi by'imyidagaduro, kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umukecuru ugeze mu gihe cy'izabukuru, arishimye bigaragara ko ari kuganirizwa n'impuguke mu kuganiriza abantu, abakecuru ndetse n'abandi bantu bafite ibibazo byo mu mutwe bakwiye kwitabwaho cyane baganirizwa, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwiza kandi bibarinde kwigunga.

Umugabo uri kurira bigaragara ko afite akababaro kenshi mu bisanzwe abagabo ntabwo bakunda kugaragaza amarangamutima yabo binyuze mu kurira, iyo umugabo arize haba hari ikintu gikomeye cyamubayeho wenda twavuga nk'urupfu cyangwa se ibindi bibazo bikomeye.

Ikindi ni ikirango cy'ikigo wihogora. Ikigo ni ikigo gishinzwe kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe, aho babagira inama ndetse bakabafasha gukira ibikomere bishobora kuba byarabateje ibibazo byo mu mutwe. Ibibazo byo mu mutwe ni bimwe mu bibazo byugarije abantu cyane cyane urubyiruko.

Abaganga ndetse n'abandi bayobozi bakora mu nzego z'ubuzima bari guhabwa amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, abantu bafite ibibazo byo mu mutwe tuba tugomba kubitaho cyane kuko ibibazo byo mu mutwe bitera ingaruka nyinshi harimo n'urupfu.

Isange one stop center, iki ni ikigo gishinzwe kwita ku bantu bagize ibibazo by'ihohoterwa, iki kigo gikorana na polisi y'u Rwanda ndetse n'ibigo byinshi mpuzamahanga, umuntu wese wagize ikibazo cy'ihohoterwa agirwa inama yo kugana iki kigo, bakamuha ubutabera.

Umubyeyi wifashe ku gahanga bigaragara ko afite ibibazo bitandukanye ari kuganira n'undi mubyeyi. Abantu bafite ibibazo bijyanye n'ibibazo byo mu mutwe yaba ihungabana ndetse no kwigunga tuba tugomba kubaba hafi tukabagira inama kandi tukabafasha mu gukemura ibibazo byabo kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, uyu munsi uba buri mwaka tariki icumi z'ukwezi kwa cumi, aha hakorwa ubukangurambaga butandukanye hashishikarizwa abantu kwirinda izi ndwara zo mu mutwe, aha kandi abafite uburwayi bwo mu mutwe bakavurwa kugira ngo bakire.

Abantu benshi bari gufata ifoto y'urwibutso. Bigaragara ko basoje amahugurwa ajyanye no kwirinda ihohoterwa rikorerwa abagore. Abagore n'abana bakunda gukorerwa ihohoterwa ritandukanye mu ngo zabo. Bityo rero tuba tugomba kubitaho kandi tugatangira amakuru ku gihe kugira ngo hirindwe icyo cyaha.

Abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo, bambaye imipira isa y'ira ry'icyatsi, harimo n'abapolisi, bafite icyapa cyanditsweho ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye. Bari gushishikariza abantu bose kubigira ibyabo kugira ngo ihohoterwa rigabanyuke mu Rwanda.

Abantu babiri, umwe agaragara nk'umuganga undi afite uburwayi bwo mu mutwe; abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bagomba kwitabwaho, by'umwihariko mu Rwanda hari ikigo gishinzwe kwita kuri aba bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, aho bajyanwa muri icyo kigo bakitabwaho bagahabwa ubuvuzi kandi bakabonana n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Umubyeyi wishimye uri kumwe n'abana be. Bigaragara ko ari kubatunganyiriza ibyo kurya. Ababyeyi bakora akazi gakomeye cyane, aho bita ku bana babo kandi bakita no ku bagabo babo. Bityo ababyeyi ni abantu b'ingenzi mu buzima bwacu, tuba tugomba kubitaho, tukabafata neza. Basaza tukabasazisha, tukabitaho natwe kuko baba baratwitayeho tukiri baho.

Umubyeyi ufite agatambaro, ari guhanagura amarira, bigaragara ko yahuye n'ikibazo gitandukanye kimutera guhungabana ndetse no kwiheba, tugirwa inama yo kwita kuri aba bantu, tukabajyana ku baganga babifitiye ubushobozi kugira ngo bitabweho, kuko iyo batitaweho bishobora kubaviramo ibibazo bitandukanye birimo no kwiyahura.

Umugabo usa nabi ufite imisatsi ndetse n'ubwanwa byamwereyeho, yambaye imyenda yamucikagurikiyeho kandi bigaragara ko adaheruka gukaraba, aba bantu bafite ibibazo byo mu mutwe tuba tugomba kubitaho, tukirinda kubaheza cyangwa se ngo tubite amazina ataboneye ahubwo tukabafasha kugera kwa muganga kuko iyi ndwara yo mu mutwe iyo ivuwe n'abaganga bafitiye ubushobozi irakira.

Icyumba gisa neza gikeye kandi kiri kuberamo umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka, wahariwe ubuzima bwo mu mutwe. Indwara zo mu mutwe, ni zimwe mu ndwara zugarije abantu cyane cyane urubyirukoyo, niyo mpamvu minisiteri y'ubuzima hamwe n'abandi bafatanyabikorwa, bahagurukiye iyi ndwara.

Umubyeyi ufite indangururamajwi, bigaragara ko ari kuganiriza abantu benshi ku kijyanye na virusi itera sida, virusi itera sida ni kamwe mu dukoko tumaze igihe kinini kuri iyi si yacu, aho imaze kwica abantu benshi cyane, bityo rero tugirwa inama yo kwirinda iyi ndwara kuko irandura.

Umubyeyi uri kuganiriza abantu ku bijyanye no kwirinda indwara zo mu mutwe, bigaragara ko ari kuganiriza abantu benshi kuko afite indangururamajwi, natwe dushishikarizwa kwitabira ibikorwa byo kwirinda indwara zo mu mutwe kandi tukabigiramo uruhare, kugira ngo iyi ndwara tuyirinde iranduke mu rubyiruko.

Abaganga bari kwigisha abaturage ibijyanye n'indwara yo mu mutwe, inyuma yabo hari imodoka nini bigaragara ko itwaye ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa indwara yo mu mutwe, abaturage bagomba gushishikarizwa kwirinda indwara yo mu mutwe kandi n'ufashwe n'iyi ndwara akajya kwa muganga kuko iyi ndwara iravurwa igakira.

igikorwa cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda na mirongo icnda na kane iki ni igikorwa kiba ngarukamwaka hano mu rwanda aho buri tariki ya kane mata twifatanya n'isi yose mu kwibuka izi nzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda.

Abantu benshi barimo abagabo, abagore ndetse n'abana bafite udupapuro turiho ibendera ry'u Rwanda bigaragara ko hari umuyobozi runaka waje muri aka gace, bakaba bitabiriye igikorwa cyo kuza kumva imbwirwaruhame y'uwo muyobozi.

Abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko basoje amahugurwa ajyanye no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, abantu bafite inshingano zo kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe bagomba gukora amahugurwa atandukanye kuko uburwayi bwo mu mutwe ni imwe mu ndwara zi kwibasira abantu benshi cyane cyane urubyiruko bityo rero rugomba kwitabwaho cyane.

Umugabo ufite agahinda gakabije, uyu mugabo ari kwitabwaho n'ababishinzwe kugira ngo abe yagaruka mu buzima busanzwe, abantu bafite agahinda gakabije tugirwa inama yo kubegera, tukababa hafi kandi tukabaganiriza kuko iyo batitaweho bashobora gufata umwanzuro utari mwiza, harimo nko kwiyahura.

Iki ni icyumba cy'inama, iki cyumba kirakeye kandi kirasukuye, kiri kuberamo amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu mutwe ni kimwe mu bintu biba bigomba kwitabwaho cyane, ni yo mpamvu abaganga babishinzwe bahora bakora amahugurwa kugira ngo bigishwe neza uburyo bakwiye kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Umukecuru wishimye, bigaragara ko uyu mukecuru nta mikoro ahagije afite, kuko ahantu atekeye ntago hasukuye kandi inzu abamo nayo ntago isa neza; tugomba kwita ku bantu bafite ubushobozi buke, cyane cyane abageze mu gihe cy'izabukuru kuko baba bakeneye indyo yuzuye kandi bakitabwaho by'umwihariko.

Abasore n'inkumi bambaye imipira isa y'ubururu basoje guhabwa amahugurwa yo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Indwara yo mu mutwe ni imwe mu ndwara zibasiye abantu benshi muri iki gihe nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubuzima, bityo rero abantu benshi bagomba guhabwa amahugurwa y'uko twakwirinda iyi ndwara.

Ubuvuzi bwo mu mutwe ntabwo ari ubw'abantu barwaye mutwe gusa, ahubwo bushobora kujya muganga ushinzwevuzi bwo mu mutwe kugira ngo muganire wisobanukirwa ubwawe ndetse unitekerezeho bityo rero tuba tugomba kugira akanya ko kwitekerezaho kugira ngo tumenye uko twategura ejo hacu hazaza.

Icyapa gifite ibara risa n'ubururu bwerurutse kirimo ifoto y'umusore, bigaragara ko ari ubukangurambaga bujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, abantu benshi muri iki gihe bashishikarizwa kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe kuko na bo ari abantu nk'abandi, ntago dukwiye kubaheza cyangwa se ngo tubakorere ibintu bitari byiza, ahubwo dukwiye kubitaho tukabaha ubuvuzi bubakwiriye.

Abana benshi b'abanyeshuri bishimye cyane, bari kuganirizwa na mwarimu wabo abigisha imikino itandukanye. Abana baba bagomba kuganirizwa bagashimishwa n'abarimu babo kugira ngo ubwonko bwabo bukomeze bukure neza kandi bagire ubuzima buzira umuze.

Aha ni ahabereye igikorwa cyo gusuzuma indwara zandura ndetse n'indwara zitandura, aha harimo abantu benshi batandukanye, yaba abagabo, ndetse n'abagore bitabiriye iki gikorwa, aho bari kuvugana na muganga kugira ngo basuzumwe indwara baba barwaye, bityo bahabwe imiti ndetse n'ubundi bujyanama butandukanye.

Umukobwa uri mu mirimo ye ya buri munsi, ari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibiribwa, uyu mukobwa arishimye cyane bigaragara ko anejejwe n'umurimo akora, natwe dukwiye kwishima igihe cyose turi mu kazi kacu ka buri munsi kuko bidufasha guhora tunezerewe kandi tukagira ubuzima buzira umuze.

Umukobwa wishimye cyane uri guseka bigaragara ko ari kuganira n'inshuti ze; tugirwa inama yo kutigunga ahubwo tugasanga inshuti zacu tukaganira, tukishima kandi tugaseka; bino biturinda indwara zo mu mutwe harimo indwara yo kwigunga ndetse n'izindi ndwara ziterwa no kuba umuntu ari wenyine.

Icyumba cy'inama kinini kandi kigari. Kirimo abantu benshi, aba abantu bitabiriye amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, ni kenshi twigishwa indwara zo mu mutwe n'uburyo tugomba kuzirinda, tugomba gukurikiza amabwiriza y'abaganga kuko izi ndwara ni zimwe mu ndwara zadutse kandi ziri kwibasira abantu benshi, bityo rero tugomba kuzirinda dukurikiza inama za muganga.

Ikikorwa mpuzamahanga cyo gushishikariza abantu kwirinda indwara ya korona virusi. Indwara ya korona virusi n' indwara yageze m'u Rwanda mu mwaka wa bibiri na makumyabiri, iyi ndwara yahitanye abantu benshi bityo rero dukwiye kwirinda iyi ndwara kugira ngo itazongera kugaruka mu gihugu cyacu.

Umugabo usa nabi uri mu gihuru kandi wambaye igitenge gusa, bigaragara ko uyu mugabo afite uburwayi bwo mu mutwe, kuko ntabwo asa neza. Abafite uburwayi bwo mu mutwe dukwiye kubitaho, tukabajyana kwa muganga, aho kugira ngo tubashyire mu muhezo. Kuko indwara yo mu mutwe iyo ivuwe neza irakira.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe. Tugirwa inama yo kudashungera cyangwa se ngo duheze abafite uburwayi bwo mu mutwe, kuko nabona abantu nkatwe, kandi indwara yo mu mutwe iyo yitaweho na muganga ubifitiye ubushobozi iravurwa igakira bityo rero tugomba kubaba hafi tukabajyana kwa muganga kandi tukabitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bakire iyi ndwara.

Ikindi kirango cy'urugaga rw'abanyeshuri biga ibijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe, kuvura indwara zo mu mutwe bisaba kwiga igihe kinini kandi ukiga ubuvuzi kuko bisaba kuba uri inzobere kugira utangire kuvura izi ndwara zo mu mutwe, bityo rero abanyeshuri bihuriza hamwe bagakomeza guhabwa amahugurwa kugira ngo bazasoze amasomo yabo bafite ubumenyi buhagije.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko basoje amahugurwa ajyanye no kwita ku bantu bafite indwara zo mu mutwe, indwara zo mu mutwe ni zimwe mu ndwara zugarije abantu muri iki gihe cyane cyane urubyiruko, aho usanga abantu benshi barwaye iyi ndwara.

Abantu benshi biganjemo abasore n'inkumi bari gufata ifoto y'urwibutso, bigaragara ko basoje amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima mu mutwe. Abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bagomba guhabwa ubuvuzi bw'umwihariko. Niyo mpamvu abatanga iyo serivise yo kwita ku bafite ibibazo byo mu mutwe baba bagomba guhabwa amahugurwa ahagije.

Abana batoya bishimye cyane bari kuganirizwa na mwarimu wabo, ababyeyi bagirwa inama yo kujyana abana babo mu mashuri y'incuke bakiri bato kuko bibarinda kugwingira mu mitekerereze kandi abana bagakura bazi gusabana na bagenzi babo.

Umugabo wambaye ibirenge wambaye imyenda yacikaguritse kandi ufite imisatsi yamwereyeho, ari mu muhanda munini nyabagendwa. Bigaragara ko uyu mugabo afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, abafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe dukwiye kubaba hafi, tukabajyana kwa muganga kuko iyi ndwara iyo ivuwe neza irakira.

Abantu benshi biganjemo abasore n'inkumi, bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko basoje amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe. Abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe tuba tugomba kubitaho by'umwihariko tubaba hafi, kugira ngo tubagaragarize ko nabo ari abantu nkatwe, kandi tuba tugomba kubajyana kwa muganga mu gihe gikwiriye kugira ngo bavurwe kandi bakire.

Umukecuru wicaye hasi ku musambi ari kumwe n'abana benshi, bishoboka ko aba bana ari abo mu muryango we, abakecuru bakunda kwita ku bana kubera ko abana batuma bishima bagasusuruka, bityo rero natwe igihe turi kumwe n'abakecuru ndetse n'abageze mu zabukuru, tugomba kwitwara nk'abana tukabaganiriza kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Umuganga uri gufata ibipimo bitandukanye bijyanye n'indwara z'amenyo, afite ibikoresho by'ikoranabuhanga bimufasha gusuzuma indwara umurwayi yaba arwaye bityo hagatangwa imiti myiza hagendewe ku ndwara yabonywe.

Abana bato bari kwitabwaho, bari kwigishwa uburyo bwiza bwo koza amenyo yabo, dukwiriye kwigisha abana bacu koza amenyo yabo, kuko amenyo iyo atitaweho arangirika, bityo rero tuba tugomba kwita ku menyo yacu tukayakorera isuku n'imiti yabugenewe.

Igikorwa cyo gusuzuma abana harebwa niba nta ndwara zo mu kanwa bafite cyane cyane indwara y'amenyo. Abaganga babiri bari gusuzuma umwana bamufata ibipimo bitandukanye kugira ngo harebwe nibamba yabarwaye abashe kuba yavurirwa ku gihe bityo bimurinde guhura n'ingaruka zo gutinda kwivuza.

Umusore usa neza uri guseka bigaragara ko yitaye ku menyo ye kuko amenyo ye arera, natwe tugirwa inama yo gusukura amenyo yacu igihe cyose tumaze kurya ndetse no kunywa ibintu birimo amasukari. Tugomba gusukura amenyo yacu twifashishije ibikoresho byabugenewe harimo uburoso ndetse n'umuti w'amenyo wabugenewe.

Umwana urimo gusuzumwa mu kanwa ke kugira ngo harebwe indwara yaba arwaye maze ahabwe imiti. Abana bakunda kwibasirwa n'indwara y'amenyo, ariko iyo bavuwe hakiri kare indwara irakira. Ababyeyi benshi barashishikarizwa kuzana abana babo kwa muganga kugira ngo basuzumwe amenyo, kandi iyo umwana ariwe mu kanwa, ni byiza ko yazanwa kwa muganga, aho kugira ngo hakoreshwe uburyo gakondo akurwa amenyo ye.

Icyumba cyo kwa muganga, gisa neza, kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura indwara y'amenyo. Amenyo ni imwe mu ndwara, isaba ibikoresho bigezweho, kugira ngo uvurwa ataza kwangirika, kandi avurwe neza, indwara ye ikire.

iki ni ikigo cy'amashuri abanza aho abana bigaga muri aya mashuri abanza bahawe imiti bifashisha basukura amenyo yabo. Abana baba bagomba kwigishwa uburyo bugezweho, kandi bwiza bwo kwita ku menyo yabo kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye , zibasira amenyo y'abana.

Abana bato b'abanyeshuri bari kwigishwa uburyo bwo koza amenyo yabo bafite uburoso bwabugenewe kandi bakoresheje n'umuti woza amenyo, natwe dushishikarizwa kwigisha abana bacu kwita ku menyo yabo kuko amenyo iyo atitaweho arwara indwara zitandukanye.

Umuganga ushinzwe kuvura indwara z'amenyo. Ari mu cyumba kirimo ibikoresho byabugenewe bikoreshwa mu kuvura iyo ndwara y'amenyo. Abaganga bavura indwara y'amenyo, bahabwa amahugurwa menshi atandukanye kugira ngo bajye babasha kuvura iyo ndwara neza.

Umusore urwaye indwara y'amenyo ari kwitabwaho na muganga, muganga ari kumukura iryinyo akoresheje ibyuma byabugenewe. Igihe cyose twumva turibwa mu kanwa cyangwa se turwaye amenyo dukwiye kugana kwa muganga, kuko kwa muganga baratuvura kandi tugakira bityo rero tugomba kwirinda gukoresha uburyo gakondo bwo kwikura amenyo kuko kubona uburyo buratwangiriza cyane.

Umurwayi uri gukurwamo iryinyo, bigaragara ko iri ryinyo ryari ryarashaje kuko risa nabi kandi ryaraboze, tugirwa inama yo kwita ku menyo yacu dukoresha imiti yabugenewe ndetse twirinda kurya ibintu byangiriza amenyo.

Iki ni igishushanyo cyerekana uburyo amenyo y'umuntu ateye. Tugomba gusobanukirwa uko amenyo yacu ateye kugira ngo tubashe kwirinda indwara zibasira amenyo. Abaganga ndetse n'abanyeshuri biga ubuvuzi bw'amenyo bigishwa cyane ku bijyanye n'amenyo bagakora amahugurwa atandukanye yo kuvura indwara zitandukanye z'amenyo kugira ngo abantu bose baganye serivisi zo kwa muganga bashaka kwivuza amenyo bahabwe serivisi nziza kandi inoze.

Ibyuma bifite ikoranabuhanga rigezweho, bikoreshwa mu kuvura indwara y'amenyo, indwara y'amenyo ni imwe mu ndwara zikomerera abantu, ifata abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abana, abakuze cyane cyane abasaza ndetse n'abakecuru.

Umuganga ari kwita ku murwayi urwaye indwara y'amenyo, ari kumusuzuma yifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga, ibyuma by'ikoranabuhanga byoroheje uburyo indwara y'amenyo ivurwa, aho umuntu avurwa amenyo byaba ngombwa iryinyo rigakurwa umurwayi atababaye cyane.

Abantu bari kwigishwa uko boza amenyo, imbere yabo hari umuti woza amenyo abaganga bafite uburoso bwoza amenyo bari kubereka uburyo bwiza buboneye bwo kozamo amenyo, iyo tutogeje amenyo yacu neza biyaviramo uburwayi butandukanye bityo rero tugomba kubyitaho cyane iyo turi koza amenyo yacu tukayasukura neza kugira ngo imyanda yose yagiyemo ibe yavamo.

Umusore wishimye cyane uri guseka ari kwitabwaho na muganga aho ari kumufasha gusukura amenyo ye, natwe tugirwa inama yo kujya kwa muganga igihe cyose twumva amenyo yacu ari ku turya, aho kugira ngo dukoreshe uburyo gakondo dukuramo amenyo yacu cyangwa tuyabohora tugomba kujya kwa muganga tugahabwa ubuvuzi bufite ireme.

Umusore uri kumwe n'inzobere mu kuvura indwara y'amenyo, ari kuvurwa indwara y'amenyo, indwara y'amenyo ni indwara yibasira abantu benshi, yaba ku Isi muri rusange ndetse na hano mu Rwanda, indwara y'amenyo tugirwa inama yo kuyivuza hakiri kare kandi tukayirinda, aho tugirwa inama yo gukora isuku mu menyo yacu, twifashishije uburoso ndetse n'imiti yabugenewe.

Umugore ufashe uburoso busukura amenyo, arimo kwigisha umwana we uburyo bwiza bwo gusukura amenyo. Abagore bafite inshingano zikomeye cyane zo kwigisha abana babo uko basukura imibiri yabo ndetse n'imyambaro yabo, aho umwana usanga ibintu byinshi yize yarabyigishijwe n'umubyeyi we.

Umukobwa uri kuvurwa indwara y'amenyo kwitabwaho na muganga ubifitiye ubushobozi ahari gukoresha ibyuma byabugenewe kugira ngo abe yakurwamo iryinyo dushikarizwa kujya kwa muganga igihe cyose twumva akanwa yacu atameze neza kuko iyo dukoresheje uburyo gakondo twikura amenyo cyangwa se twivura indwara z'amenyo bishobora kutugiraho ingaruka zitari nziza.

Umwana mutoya urikwitabwaho n'abaganga ari kuvurwa indwara y'amenyo, iyo umwana arwaye iryinyo biba byiza iyo ayajyanywe kwa muganga kuko iyo hakoreshejwe uburyo gakondo bwo gukura iryinyo bishobora kwangiza umwana bityo rero ababyeyi bose bashishikarizwa kujyana abana babo kwa muganga igihe cyose bumva baribwa mu kanwa.

Umwana mutoya waje kwivuza indwara y'amenyo, indwara y'amenyo iyo ivuwe hakiri kare irakira bityo rero dushishikarizwa kwitabira serivisi z'ubuvuzi igihe cyose twumva amenyo yacu atameze neza, aho gukoresha imiti gakondo cyangwa se twebwe ngo twigurire amenyo yacu, dushishikarizwa kujya kwa muganga kugira ngo duhabwe ubuvuzi bumeze neza.

Umukobwa ndetse n'umusore bari guseka, bari kwireba mu ndorerwamo bigaragara ko bari kwita ku menyo yabo, amenyo yabo asa neza kandi arera, bigaragara ko bayagirira isuku natwe tugirwa inama yo kugirira isuku amenyo yacu kugira ngo twirinde indwara nyinshi ziterwa no kutita ku menyo.

Umusore uri guseka wambaye umupira w'umweru, amenyo ye arera bigaragara ko yitaye ku menyo ye aho yayakoreraga isuku, natwe tugirwa inama yo gukorera isuku amenyo yacu kugira ngo twirinde indwara nyinshi zitandukanye ziterwa no kutita ku menyo.

Umusore usa neza uri guseka. Bigaragara ko amenyo ye yitayeho kuko arera. Natwe dushishikarizwa kwita ku menyo yacu kuko amenyo iyo utayitayeho ahura n'indwara zitandukanye. Bityo rero tuba tugomba gukoresha imiti yabugenewe igihe cyose tumaze kurya cyangwa se kunywa ibinyobwa bikungahaye ku isukari. Kuko amasukari yangiza amenyo iyo amenyo adasukuwe.

Abana batoya bari kwigishwa uburyo bwiza bwo koza amenyo yabo binyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo, bityo rero niyo mpamvu abana bagomba gutozwa ibintu byose kandi neza kugira ngo bazakure babizi bibarinde kurwara indwara zitandukanye.

Umukobwa ukiri muto ari koza amenyo ye, dushishikarizwa koza amenyo yacu igihe cyose tumaze kurya n'igihe dusoje kunywa ibinyobwa birimo amasukari, kugira ngo twirinde zimwe mu ndwara zibasira amenyo yacu amenyo tuba tugomba kuyabungabunga kuko iyo yitaweho ntabwo umuntu arwara indwara z'amenyo.

Abanyeshuri biga iby'ubuvuzi, bari kwiga uko bakura iryinyo bifashishije imfashanyigisho zabugenewe. Gukura iryinyo ni kimwe mu bikorwa bisaba ubuhanga bityo rero abanyeshuri biga iby'ubuvuzi, baba barahuguwe cyane kugira ngo igihe bazaba bagiye gukura iryinyo ry'umurwayi bitazamugiraho ingaruka.

Aha ni kwa muganga, aho umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru, itaburiya y'umweru ndetse n'udupfukantoki tw'umweru ari kuvura umurwayi indwara y'amenyo. Indwara y'amenyo ni imwe mu ndwara zibasira abantu benshi, cyane cyane abageze mu gihe cy'izabukuru, bityo rero dukwiye kubungabunga amenyo yacu kugira ngo twirinde indwara nyinshi ziterwa no kutayitaho.

Ifoto nini ishushanyijeho amenyo y'umuntu uburyo ateye mu mubiri. Amenyo y'umuntu ni kimwe mu bintu bigomba kwitabwaho by'umwihariko igihe agiye kuvurwa. Kuko iyo avuwe nabi bitera izindi ndwara. Bityo rero abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi baba bafite ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'indwara y'amenyo.

Umwarimu ari kumwe n'abanyeshuri, bose bafite imiti isukura amenyo, barishimye cyane bigaragara ko bamaze kwigishwa uburyo bwo kwita ku menyo, hanyuma bagahabwa imiti bifashisha bita ku menyo yabo, natwe dukwiye kwigisha abana bacu kwita ku menyo yabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umukobwa ukiri muto uri kwigishwa kw'amenyo y'umuntu aba ameze, abaganga b'amenyo bakora amahugurwa atandukanye kugira ngo bige uko amenyo ateye ndetse nuko amenyo avurwa kugira ngo hirindwe amakosa amwe n'amwe yakorwa mu gihe havurwa indwara y'amenyo.

Umusore uri guseka wishimye cyane, inyuma ye hari urukuta rufite irangi ry'umweru. Uyu musore bigaragara ko yita ku menyo ye kuko amenyo ye asa neza kandi arera. Natwe dushishikarizwa kwita kumenenyo yacu kuko amenenyo iyo atabungabunzwe agira ibibazo bitandukanye.

Umuryango wishimye cyane bari kuganiriza ababyeyi babo bageze mu gihe cy'izabukuru, abageze igihe cy’izabukuru tuba tugomba kubitaho tukabaganiriza kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza, abageze igihe cy’izabukuru tuba tugomba kubarinda kwigunga kuko iyo bigunze umubiri wabo urushaho kumererwa nabi, bityo rero tuba tugomba kubaba hafi tukabaganiriza tugafatanya na bo mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ageze mu gihe cy'izabukuru ari kwitabwaho na muganga, muganga umufasha gukora imyitozo ngororamubiri aterura utuntu duto duto, ibi bimufasha mu kugira ngo ananure imitsi ye, kandi arusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umuganga w'umukobwa ukiri muto, ari kumwe n'umusaza. Bigaragara ko ari kumwigisha uburyo bakoresha ikoranabuhanga ndetse na terefone zigezweho. Abasaza ndetse n'abandi bageze mu zabukuru bagomba kwitabwaho cyane cyane kuko akenshi usanga nta n'imiryango basigaranye, rero biba byiza iyo bagize ubaba hafi.

Umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru, ari gusoma ndetse yandika ibintu mu gitabo, bigaragara ko azi gusoma kandi azi no kwandika, abageze mu gihe cy'izabukuru, tugirwa inama yo kubitaho bakagira ibintu bituma bahuga, kugira ngo ubwonko bwabo bukomeze bukore kandi bukore neza.

Umugabo uri mu gihe k'izabukuru, ari kwitabwaho, aganirizwa ndetse anafashwa kugenda gahoro gahoro kugira ngo agorore ingingo, abantu bageze mu gihe k'izabukuru usanga umubiri wabo waracitse intege, aho badashobora kugenda cyangwa ngo babe bagira ikindi bakora, ni byiza rero ko tubaba hafi tukabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakobwa babiri bari gukina ikarita n'umukecuru, umukecuru yishimye cyane, abakecuru baba bagomba guhabwa serivise nziza kandi bakitabwaho by'umwihariko kugira ngo babone ko batari bonyine, ibi bituma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza kandi umubiri wabo ugakomeza kubaka ubudahangarwa.

Umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru ari gufashwa kunywa imiti yahawe na muganga, abageze mu gihe k'izabuku tuba tugomba kubaba hafi tukabitaho tukabafasha gukora imirimo itandukanye, kuko umubiri wabo nta mbaraga uba ugifite wo gukora imirimo itandukanye bityo rero baba bakeneye umuntu ubitaho akababa hafi.

Abantu bageze mu za bukuru tuba tugomba kubasura kenshi cyane; tukababa hafi tukabasura tukabaganiriza, tukabarinda kwigunga. Ibi bibafasha gukomeza bagira ubuzima bwiza, bikabarinda guhura n'indwara zitandukanye harimo iz' ihungabana ndetse n'iz'agahinda gakabije.

Umuganga w'umukobwa ukiri muto uri kwita ku mukecuru, hari bimwe mu bigo biba byarashyizweho bishinzwe kwita ku bantu bakuze, aho babayo bagahabwa serivisi zitandukanye harimo kubakoresha imyitozo ngororamubiri, kubagaburira bikwiye ndetse no kubakorera amasuku.

Umukecuru ugeze mu mugihe cy'izabukuru ari kumwe n'umukobwa ukiri muto bari kuganira, umukecuru ari gukata imboga itumati ndetse n'imbuto bigaragara ko yishimye cyane, uyu mukobwa we ari kumwitaho kandi ari kumuganiriza. Natwe tugirwa inama yo kwita ku bageze mu zabukuru tubaganiriza kuko ni byiza ku buzima bwabo.

Umusaza ugezeze mu gihe cy'izabukuru arimo kuganirizwa na muganga, aho amupima indwara zitandukanye. Abantu bageze mu gihe cy'izabukuru bakunda guhura n'indwara nyinshi kubera ko umubiri wabo uba watangiye kugabanya ubudahangarwa. Ni yo mpamvu bagirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kandi bakitabwaho by'umwihariko.

Umukecuru ugeze gihe cy'izabukuru ari kunywa imiti ayinywesha amazi meza, abakecuru ndetse n'abasaza bakunda guhura n'indwara zitandukanye, bityo rero tuba tugomba kubaba hafi baba bahawe imiti na muganga tukababutsa kuyikoresha kuko akenshi bakunda no kwibagirwa.

Umukecuru ugeze mu gihe cy'izabukuru, bigaragara ko atuye mu cyaro, aho ari gutekera hanze kandi akoresheje inkwi zitameze neza, abakecuru baba bakwiye kwitabwaho, bagahabwa ibyo kurya byiza, ndetse bakarindwa no gukora imirimo ivunanye.

Ni urugo rwiza rutuje kandi rutoshye, rurimo ibiti byiza by'amoko atandukanye, uru rugo rurimo ikibuga cy'umukino wa Basketball, harimo umubyeyi uri kumwe n'umwana we mutoya uri mu kigero cy'imyaka itatu, ari kumwigisha uburyo bakina umukino wa Basketball.

Umusaza wicaye ku ntebe ari kuganirizwa na muganga, aho umuganga amuganiriza amubaza uko ubuzima bwe buhagaze, abasaza ndetse n'abandi bantu bageze muri zabukuru, bagirwa inama yo kujya kwa muganga akenshi gashoboka kugira ngo hasuzumwe ubuzima bwabo uko buhagaze.

Umusaza uri mu gihe k'izabukuru, ari kwitabwaho na muganga, aho umuganga ari kumwigisha gusoma, abasaza ndetse n'abakecuru baba bagomba kwitabwaho cyane kugira ngo batigunga, kandi bagomba gufashwa imirimo imwe n'imwe ivunanye, kuko umubiri wabo uba waracitse intege, bityo nta mbaraga z'umubiri baba bafite.

Umuganga w'umusore ufite igipimo kigaragaza uko umutima utera, ari kumwe n'umukecuru, ufite inkoni mu kuboko kw'iburyo bombi barishimye, bigaragara ko umurwayi arimo koroherwa. Abaganga ni bamwe mu bantu bakora akazi gakomeye cyane, aho bita ku buzima bw'abana, abakuze ndetse n'abakecuru.

Abantu bageze mu zabukuru bari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri. Ni byiza gukoresha imyitozo ngororamubiri abantu bageze mu zabukuru kugira ngo umubiri wabo ukomeze ugire imbaraga zo kwirinda indwara zitandukanye. Abageze mu zabukuru, umubiri wabo akenshi usanga ubudahangarwa bwaragabanuyutse ni yo mpamvu bagirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kandi bakarya imboga nyinshi ndetse n'imbuto.

Isoko rusange ricuruza ibiribwa aho abantu baturutse muce zitandukanye, bazana imyaka bagejeje mu mirima yabo, kugira ngo bayigurishe babone amafaranga, isoko rifasha abantu mu buryo bw'ubucuruzi, kandi rituma babona bimwe mu bicuruzwa, bo batari basanzwe bahinga.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana bari kuganira n'umukecuru, umukecuru arishimye cyane, tugirwa inama yo kuba hamwe n'ababyeyi bacu cyane cyane iyo bageze mugihe cy'izabukuru, aho baba bakeneye ababaganiriza bakabafasha n'imirimo itandukanye, ibi bituma barushaho gukomeza kwishima ndetse n'iminsi y'ubuzima bwabo igakomeza kwiyongera.

Umukecuru ugeze mu gihe cy'izabukuru ari kunywa imiti yandikiwe na muganga, abakecuru ndetse n'abasaza bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye kuko ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba bwaragabanyutse, bityo rero bagomba kugira umuntu ubitaho akabibutsa kunywa neza imiti bahawe na muganga kandi akabafasha gukora imirimo yabo ya buri munsi.

Umusaza ageze mu gihe cy'ibukuru ari gukora imyitozo ngororamubiri ari no kumva n'umuziki. Gukora imyitozo ngororamubiri ku bantu bageze mu gihe cy'izabukuru, ni imwe mu miti bagirwa na muganga, kugira ngo umubiri wabo ukomeze ugire ubudahangarwa bwinshi. Kuko akenshi usanga umubiri wabo waracitse intege; bityo rero, baba bagomba gukora imyitozo ngoramubiri kugira ngo birinde zimwe mu ndwara zibasira abasheshekanguhe; harimo nk'indwara y'imitsi ndetse n'indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Umusaza ugeze mu gihe k'izabukuru, ari kwitabwaho n'umuganga ubishinzwe aho amufasha mu guterura utuntu tworoshye kugira ngo agorere imitsi y'amaboko ye, abantu bageze mu zabukuru baba bagomba gukoreshwa imyitozo ngororamubiri kugira ngo amagufa yabo arusheho gukomera kandi imitsi yabo ireke gufatana.

Umukecuru ugeze mu igihe k'izabukuru ari kuganiriza abantu. Bigaragara ko ari ukuganiriza abantu benshi kuko afite indangururamajwi. Abakecuru ndetse n'abasaza tuba tugomba kubaha umwanya bakatuganiriza kuko baba bafite ibintu byinshi byo kutubwira byatugirira akamaro mu buzima bwacu.

Abageze mugihe cy'izabukuru bari gukina imikino itandukanye abageze mu gihe cyiza kuko baba bagomba gushaka ibintu bibahuza kugira ngo bagabanye kwitekerezaho kandi bakoreshe ubwonko bwabo cyane kuko iyo bakoresheje ubwonko bwabo bituma umubiri wabo ukomeza kumera neza kandi bikabarinda gukomeza gusaza vuba .

Umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru ari kwitabwaho bigaragara ko adashobora kugenda, abantu bageze mu gihe cy'izabukuru tuba tugomba kubaba hafi tukabaganiriza tukabitaho tukabakorera ibikorwa byinshi by'urukundo kugira ngo bahore bishimye bityo umubiri wabo ukomeze umere neza kandi ugire ubudahangarwa butandukanye.

Umugabo ugeze mu gihe cy'izabukuru, ari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri n'umuganga ubishinzwe, abantu bageze mu gihe cy'izabukuru bagirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kenshi, kugira ngo umubiri wabo ukomeze ugire imbaraga zo kuba wahangana n'indwara zitandukanye.

Umugabo ugeze mu gihe cy'izabukuru ari kwitabwaho n'umuganga ubishinzwe, abageze mu gihe cy'izabukuru bagomba kwitabwaho by'umwihariko baganirizwa, kandi bahabwa imiti ku gihe iyo barwaye kuko umubiri wabo ntabwo ufite ubudahangarwa bungana n'ubw'abakiri bato niyo mpamvu umuntu wese urwaye kandi a yiziye cy'izabukuru agirwa inama yo kutaba wenyine ahubwo agomba gushaka uwo babana kugira ngo amwiteho kandi amukorere imirimo ye ya buri munsi.

Abakecuru n'abasaza bageze mu gihe cy'izabukuru bari kuganirizwa n'ababishinzwe. Abakecuru ndetse n'abandi bageze mu gihe cy'izabukuruba baba bagomba kuganirizwa kandi bagafashwa mu gukora uturimo tworoheje. Ibi bibarinda kwigunga kandi bigatuma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza.

Umusaza ugeze mu gihe k'izabukuru ari kwitabwaho ari gufashwa kunywa imiti yahawe na muganga, abageze mu gihe k'izabukuru bakunda guhura n'ikibazo cyo kwibagirwa bityo rero tuba tugomba kubaba hafi tukabafasha, baba bandikiwe na muganga imiti tukabibutsa kuyinywa kandi bakayinywera ku gihe kugira ngo barusheho gukira indwara zabo.

Umuganga wambaye impuzangano y'umutuku, agapfukamunwa ndetse n'udupfukantoki. Bigaragara ko ari gupima umukecuru indwara zitandukanye. Harimo nk'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Abakecuru ndetse n'abantu bageze mu zabukuru, bari mu bantu bibasirwa n'indwara zirimo umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije ndetse n'umutima.

Abantu benshi biganjemo abasaza ndetse n'abakecuru bari kuganirizwa ku buryo bakwita ku buzima bwabo. Abakecuru ndetse n'abasaza bagomba kwitabwaho bagahabwa ibiganiro bitandukanye leta y'u Rwanda ibitaho by'umwihariko aho abakecuru ndetse n'abasaza batishoboye hari amafaranga bagenerwa buri kwezi kugira ngo abafashe kuzamura imibereho yabo myiza.

Umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru bigaragara ko ari gusoma igitabo, abageze mu gihe cy'izabukuru bagirwa inama yo gukoresha ubwonko bwabo kandi no gukoresha umubiri wabo kuko umubiri wabo uba ukeneye kwitabwaho by'umwihariko kugira ngo hirindwe indwara nyinshi zitandukanye zibasira abageze mu gihe cy'izabukuru.

Umukecuru ugeze mu gihe cy'izabukuru ari kwitabwaho, aho ari gufashwa mu gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje atera udutambwe duto duto, abageze mu gihe cy'izabukuru baba bagomba gukoreshwa imyitozo ngororamubiri bananurwa ingingo zabo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza.

Umukecuru n'umusaza barimo kuganira, bari kureba bumwe mu buryo beretswe na muganga bwo gukoresha imiti bahawe, abantu bageze mu gihe cy'izabukuru, bakunda kwibasirwa n'indwara nyinshi zitandukanye. Bityo rero baba bakeneye ubuvuzi bw'ibanze kandi bakitabwaho by'umwihariko.

Umuntu aba ageze mu gihe cyiza gufata ifunguro. Hari ifunguro ririmo imboga, ibinyampeke ndetse n'ibinyamafufu. Abageze mu gihe k'izabukuru bagirwa inama yo kurya indyo yuzuye kugira ngo umubiri wabo ukomeze ugire imbaraga. Abageze gihe k'izabukuru kandi baba bagomba gufata n'imbuto kugira ngo ubudahangarwa bw'umubiri wabo bukomeze bwiyongere.

Umugore ugeze mu gihe k'izabukuru ari gukora imyitozo ngororamubiri, abantu benshi bafata imyitozo ngororamubiri nk'iyagenewe abasore n'inkumi kandi twese, baba abana, n'abakuze ndetse n'abasaza bagenerwa gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri wabo wubake ubudahangarwa kandi ugire imbaraga zo kwirinda indwara zitandukanye.

Umugabo ugeze mu gihe cy'izabukuru ari kwitabwaho n'umuganga ubishinzwe. Abaganga bashinzwe kwita ku basheshe akanguhe baba baratojwe uburyo bwo kuganiriza ndetse no gufata neza abasheshe akanguhe. Kuko abasheshe akanguhe baba bakeneye urukundo ndetse no kwitabwaho by'umwihariko.

Umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru ari kuganirizwa n'umusore, bari gusoma igitabo bishimye cyane. Buri wese afite igikombe cy'umweru bigaragara ko bari gusoma igitabo banywa n'icyayi. Abageze mu gihe cy'izabukuru dukwiye kubitaho tukababa hafi kuko iyo tubahunze bituma bigunga bakagira ibibazo bitandukanye.

Umusaza ageze igihe cy'izabukuru ari gukorerwa isuku ahori gukarabya umubiri we wose ,abagize igihe cyiza gukora tuba tugomba kubitaho tukabafasha kuko imibiri yabo nta mbaraga zihagije ibifite bityo rero tugomba kubaba hafi tukabakorera amasuku ndetse tugabakora n'ibindi byose batashobora kukorera.

Umukecuru ugeze mu gihe cy'izabukuru ari kuganira n'umuganga, abakecuru ndetse n'abandi bageze mu gihe cy'izabukuru baba bakeneye ubuvuzi bwo kuganirizwa gusumbya imiti, kuko akenshi usanga nta bantu bafite bababa hafi cyangwa babakorera utuntu dutoduto dutuma bishima.

Umusaza n'umukecuru bageze mu gihe cy'izabukuru. Bari gukina imikino itandukanye, abageze mu gihe cy'izabukuru tuba tugomba kubitaho, tukababa hafi tukabigisha gukora imirimo itandukanye, kugira ngo umubiri wabo ukomeze kumera neza, kandi ukomeze ukore neza.

umukecuru uri guhabwa imiti na muganga ubishinzwe, abageze mu za bukuru baba bagomba kwitabwaho by'umwihariko, bagahabwa urukundo kandi bakaganirizwa kuko iyo bataganirijwe bituma bigunga bityo ubuzima bwabo ntibugende neza. Tugomba kubitaho tukabaganiriza kandi tukababa hafi.

Umukecuru ugeze mu gihe cy'ibukuru, ari guhabwa ibikoresho bitandukanye, harimo ibyifashishwa mu kuryama kugira ngo akomeze agire ubuzima buzira umuze; abageze igihe gihe cy'izabukuru akenshi usanga nta bushobozi buhagije bafite bityo rero tuba tugomba kubitaho tukabafasha muri buri kimwe kugira ngo basaze neza kandi ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru wicaye ku ntebe ndetse yambaye isaha imufasha kumenya uko umutima we utera ndetse no kumenya uko amaraso ye ari gutembera mu mubiri we, abageze mu gihe cy'izabukuru bakunda kwibasirwa n'indwara zirimo umuvuduko w'amaraso, Diyabete ndetse n'umutima, bityo rero baba bagomba kwitabwaho bagahabwa ibikoresho bibafasha gusuzuma uko umubiri wabo uhagaze.

Umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru ari kwitabwaho na muganga, umufasha mu kugenda agorora ingingo ze. Abasaza ndetse n'abakecuru akenshi usanga imibiri yabo yarahuye n'ibibazo bitandukanye, aho kugenda biba bibagoye ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri bakaba batabishobora. Ni yo mpamvu baba bagomba kugira ababitaho by'umwihariko, bakabafasha imirimo imwe n'imwe, kandi bakabakoresha imyitozo ngororamubiri. Ibi bituma imibiri yabo ikomeza kumererwa neza.

Umuturage wambaye agapfukamunwa ari guterwa urushinge bigaragara ko bari gukingirwa icyorezo cya korona virusi, tugirwa inama yo gukurikiza amabwiriza y'abaganga igihe cyose dutewe n'icyorezo cyangwa se n'izindi ndwara zitandukanye, kuko iyo dukurikije amabwiriza y'abaganga turwana n'izo ndwara kandi turakazitsinda.

Abayobozi batandukanye bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ubururu kirimo ikirangantego cya Leta y'u Rwanda, bigaragara ko aba ari abayobozi ba Minisiteri y'Ubuzima, bashoje gukora amahugurwa ajyanye no gushishikariza abantu kwita ku buzima bwabo.

Hari gutangwa ikiganiro kijyanye no kwirinda indwara zitandukanye, aho tugirwa inama yo kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, birimo inzoga nyinshi, itabi ndetse n'ibindi biyobyabwenge, kuko byangiza ubuzima bwacu kandi tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo twongere ubudahangarwa bw'umubiri wacu.

Ikirango cy'ikigo mpuzamahanga cyita ku bidukikije tugomba kwita ku bidukikije kuko ibidukikije bidufitiye akamaro kanini harimo kuduha umwuka duhumeka ndetse n'ibindi bitandukanye, niyo mpamvu hashyizweho umunsi mpuzamahanga wo kwita ku budukikije, uyu umunsi uba buri mwaka tariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cyenda.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, amagambo yacyo yandikishijwe ibara ry'umweru, iki cyapa kigaragaza Ikigo gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu hano mu Rwanda, iki kigo gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu hano mu Rwanda, gikora inshingano zitandukanye, aho gikora ubukangurambaga ndetse n'ubuvugizi ku bantu bakeneye ubuvuzi.

Icyumba gisa neza kandi kigari kigiye kuberamo umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya sida. Virusi ya sida ni imwe muri virusi zakwirakwiye ku isi hose usanga abantu benshi barishwe n'iyi ndwara ndetse n'abandi benshi barayirwaye, niyo mpamvu dushishikarizwa kwirinda izi ndwara dukurikiza inama tugirwa n'abaganga.

Umukobwa w'umwirabura ndetse n'umugabo w'umuzungu bari kwifotoreza ku cyapa kiri inyuma ya biragaragara ko bari gukora ubukangurambaga mu kwita ku buzima bw'umuntu tugomba kwita ku buzima bwacu tukabubungabunga kuko ubuzima iyo butabungabunzwe buramungwa bityo rero ubuzima bwacu tuba tugomba kubwitaho tunywa amazi meza kandi dukora imyitozo ngororamubiri twirinda n'ibindi byose byakwangiriza umubiri wacu.

Kuvura abantu indwara zitandukanye , bigaragara ko iyi ndwara ishobora kuba yandura , kuko abantu bose bambaye udupfukamunwa , kandi na muganga uri kuvura abantu, arikingiye cyane ku buryo atahura n'ibibazo. Abaganga bagirwa inama yo kwikingira no kwambara imyenda yabugenewe igihe bagiye kwita ku barwayi bashobora kuba babateza ibibazo.

Umurwayi urwaye indwara y'uruhu. Indwara y'uruhu ni imwe mu ndwara zikunda kwibasira abantu b'ingeri zitandukanye. Tugirwa inama yo gukoresha amavuta ndetse n'isabune bimeze neza kugira ngo twirinde iyi ndwara y'uruhu. Kuko ni mbi cyane.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama kiri kubera inama yiga ku bijyanye no guhagarika icyorezo cya maribage. icyorezo cya maribage ni icyorezo cyadutse ahagana mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane hano mu gihugu cy'u Rwanda iki cyorezo twarakirinze cyane hashyirwaho ingamba zitandukanye zituma iki cyorezo kidakwirakwira mu gihugu hose. Turashima kuko iki cyorezo ubu cyacitse mu Rwanda ntabwo kikihabarizwa.

Abayobozi babiri bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko basoje amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye no kubungabunga ubuzima bwa muntu ,kubungabunga ubuzima bwa muntu kimwe muri gahunda zishyirwamo imbaraga cyane kuko ubuzima iyo butitaweho burazima ,bityo rero abayobozi babishinzwe bagomba kubishyiramo imbaraga kugira ngo bakomeze bateze imbere uru rwego rw'ubuzima.

Abaganga bambaye kandi bikwije imyenda yabugenewe, iyi myenda yambarwa igihe muganga agiye guhura n'umurwayi bishoboka ko umurwayi ashobora kwanduza muganga indwara, abaganga bagirwa inama yo kwambara iyi myenda kugira ngo bataba bakwirakwiza iyi ndwara cyangwa bakaba bayandura.

Iki ni ikirango cy’ikigo cy’igihugu gishinzwe gutanga amaraso. Ikigo cy’igihugu gishinzwe gutanga amaraso, gifite akazi gakomeye ko gushishikariza abantu b’ingeri zitandukanye gutanga amaraso. Natwe tuba tugomba gutanga amaraso kuko iyo utanze amaraso, uba utanze ubuzima. Bityo rero, natwe tuba tugomba gufasha abantu dutanga amaraso.

Umuyobozi uri gutanga ikiganiro ku bijyanye no kwita ku buzima, kitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Kwita ku buzima ni kimwe mu bintu duhora dushishikarizwa, niyo mpamvu minisiteri y'ubuzima ihora yigisha abantu uburyo bakwita ku buzima bwabo.

Iki ni icyumba kiri kuberamo inama, hari umukobwa ukiri muto ufite imisatsi miremire ufashe indangururamajwi, bigaragara ko ari gutanga ikiganiro kijyanye no kubungabunga ubuzima bwa muntu. Ibiganiro byinshi bijyanye no kubungabunga ubuzima bwa muntu bikunda gutangwa, cyane cyane ku rubyiruko ndetse n'abandi bantu batandukanye kugira ngo turusheho kwita ku buzima bwacu.

Umuganga, abaganga benshi bari kwita ku murwayi umwe, bigaragara ko uyu murwayi arembye, iyo umurwayi arembye cyane bisaba ubuvuzi bw'umwihariko aho abaganga benshi kandi b'inzobere, baza kumwitaho kugira ngo harebwe uko amagara ye yatabarwa.

Mu ntego cumi na zirindwi isi yihaye kugira ngo igere ku iterambere rirambye harimo intego ya gatatu ivuga ngo imibereho myiza nubuzima bwiza iyi ntego tugomba kuyishyiramo imbaraga kuko ntabwo wagera ku iterambere rirambye udafite ubuzima buzira umuze bityo rero dushishikarizwa kwita ku buzima bwacu kugira ngo tugere ku iterambere rirambye.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko basoje amahugurwa ajyanye no kubungabunga ubuzima bw'umuntu, aho bashishikarizwa nabo kuba bakwigisha bagenzi babo uburyo bakwita ku buzima bwabo harimo gukora imyitozo ngororamubiri, kurya indyo yuzuye ndetse n'ibindi bikorwa bituma umubiri w'umuntu ukomeza kumera neza.

Icyapa kinini kiri mw' ibara ry'umutuku werurrutse ndetse n'umweru, icyapa kandi kirimo ifoto ya madamu wa perezida wa repubulika jeannette kagame, uyu mubyeyi bigaragara ko ari gutanga ubukangurambaga ku bijyanye no kwita ku buzima bwa muntu.

Ifoto nini iri mu ibara ry'ubururu irimo ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, hasi handitse amagambo agaragaza ko ari Minisiteri y'Ubuzima. Minisiteri y'Ubuzima ni imwe muri minisiteri zikora ibikorwa byinshi hano mu gihugu cyacu, kuko ubuzima ni kimwe mu bintu bishyirwamo amafaranga menshi kandi bikitabwaho by'umwihariko.

Abaturage baje muri gahunda yo kwipimisha indwara zitandukanye, tugomba kwipimisha indwara zitandukanye zirimo: umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'indwara y'umutima kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze, bityo tumenye uko twitwara ndetse tumenye uko twivuza.

Icyumweru cyahariwe kurwanya mikorobe mu Rwanda. Iki cyumweru kiba buri tariki cumi n'umunani kugeza tariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cumi na kumwe, buri gihe dushishikarizwa kwirinda mikorobe. Mikorobe nizo zidutera indwara z'amoko atandukanye bityo rero dushishikarizwa kuzirinda uko bishoboka kose dukurikiza inama tugirwa n'abaganga kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze.

Igitabo kigaragaza uburyo bukoreshwa hirindwa indwara ya virusi itera sida, virusi itera sida ni indwara yibasira abantu benshi ku isi ndetse no mu Rwanda. Minisiteri y'ubuzima yahisemo gushyiramo imbaraga nyinshi cyane, kugira ngo iyi ndwara ibashe kuba yahashywa hano muri iki gihugu cy'u Rwanda.

Igikorwa cyo kwamamaza gahunda ya leta yo kwita ku buzima, kwita ku buzima ni ingenzi kuko iyo butitaweho burazima, niyo mpamvu dushishikarizwa kwita ku buzima bwacu dukora imyitozo ngororamubiri, turya indyo yuzuye kandi twirinda ibiyobyabwenge.

Abantu bari kwamamaza udukingirizo, badushishikariza gukoresha agakingirizo igihe kwifata byatunaniye, gukoresha agakingirizo biturinda zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi bikaturinda gutera inda zitateganyijwe bityo rero turasabwa gukoresha agakingirizo igihe kwifata byatunaniye cyangwa se tukifata.

Aha hari kubera inama yiga ku bijyanye n'ubushakashatsi mu buzima ndetse n'izindi gahunda zatuma urwego rw'ubuzima rwiyongera, urwego rw'ubuzima ni rumwe mu nzego zigomba gukorerwamo ubushakashatsi bwinshi, kuko indwara zivumburwa ari nyinshi kandi n'imiti igomba kuba ingana n'indwara zavumbuwe.

Aha hagaragajwe uburyo butandukanye, ushobora gukoresha wirinda icyorezo cya Korona virusi. Harimo nko gukaraba intoki, guhamagara ku murongo w'ijana na cumi na kane, igihe uramutse ubonye uwanduye cyangwa se ugaragaza ibimenyetso by'icyo cyorezo kandi hagaragajwe n'ubundi buryo harimo nko kwambara agapfukamunwa ndetse n'ubundi butandukanye.

Umugabo uri kuganiriza abana, bigaragara ko ari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, indwara zo mu mutwe zikwiye kwirindwa mu mpande zazo zose, kuko indwara zo mu mutwe ni zimwe mu ndwara ziri kwibasira urubyiruko ndetse n'abantu bakuze bityo rero dukwiye kuzirwanya tukazirinda.

Ubukangurambaga bujyanye no kwita ku bidukikije kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. Ibidukikije tugomba kubyitaho kuko ibidukikije biduha imiti itandukanye kandi biduha n'umwuka duhumeka bityo rero tuba tugomba kubibungabunga kuko bidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ababyeyi bari guhugurwa uburyo bwiza bwo kwita ku bana babo, abana bab bagomba kwitabwaho by'umwihariko kuko uburere ababyeyi bahaye abana nibwo abana bakurana, bityo rero ababyeyi baba bagomba guha abana babo uburere bwiza bakabatoza imico myiza kugira ngo bazakure nabo bafite imico myiza.

Iyi ni inyubako icuruza imiti, iyi nyubako izwi ku izina rya faromasi, kuri farumasi ni ho dusanga imiti myinshi y'amoko atandukanye, hari igihe tujya kwa muganga imiti dushaka tukayibura, bikaba ngombwa ko bayitwandikira tukajya kuyigura muri farumasi.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga gisukuye kirimo abaganga ndetse n'abarwayi batandukanye, iki cyumba bigaragara ko kivurirwamo indwara zishobora kwandura kuko abaganga bari muri iki cyumba barikingiye cyane, bambaye imyenda ibafasha kwirinda indwara.

Icyumba cyo kwa muganga kigezweho, kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, ikoranabuhanga mu buvuzi, ni imwe muri gahunda zashyizwemo imbaraga na leta y'u Rwanda, aho ibitaro byinshi bifite ibyuma by'ikoranabuhanga, bifasha mu kuvura abarwayi baje babigana.

Aha ni kwa muganga aho hari abaganga batandukanye, hari umuganga uri gutambuka wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, ibi bitaro bisa neza, birasukuye kandi bifite ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibitaro bivura indwara zo mu mutwe. Indwara zo mu mutwe ni zimwe mu ndwara zibasiye abantu muri iki gihe, cyane cyane urubyiruko, bityo rero haba hagomba kuba ibitaro bigenewe kuvura abarwayi bo mu mutwe kugira ngo abafite icyo kibazo bose bahabwe ubuvuzi kandi ubuvuzi bufite ireme.

Ibitaro bisa neza bifite inyubako zigezweho, z'igorofa zifite irangi ry'umuhondo; kandi iyi nyubako ifite ahantu hagenewe guparika ibinyabiziga birimo imodoka ndetse n'ibindi. Inyubako ifite ubusitani ndetse ifitemo n'imikindo bituma abantu bagana ahantu babona umwuka mwiza.

Umugabo wicaye ku igare ry'abafite ubumuga bw'ingingo, arimo kwerekezwa ahantu hari kubera ubuvuzi rusange, abafite ubumuga bw'ingingo ndetse n'abandi bafite ubumuga butandukanye ni bamwe mu bantu bitabwaho cyane hano mu Rwanda, aho akenshi bahabwa serivisi z'ubuntu kugira ngo barusheho kwisanga muri sosiyete Nyarwanda.

Icyumba cyo kwa muganga gisukuye kirimo imashini nyinshi z'ikoranabuhanga zifashishwa mu gupima ndetse no kuvura indwara zitandukanye, harimo umugabo uri kuyikoresha wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'itaburiya yabugenewe. Kwa muganga hakunda kuba ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga kugira ngo abahagana bose bahabwe serivisi nziza.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kandi gikeye, iki cyumba bigaragara ko kivurirwamo indwara y'amaso, indwara y'amaso ni imwe mu ndwara zibasira abantu benshi b'ingeri zitandukanye bityo rero kwa muganga ahavurirwa izi ndwara hagomba kuba hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura iyi ndwara.

Inyubako ndende isa neza y'igorofa, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, ubuvuzi ni bimwe mu bikorwa bigomba gukorerwa ahantu heza kandi hasukuye kuko ababigana baba bakeneye serivisi zinoze kandi bakeneye kuba ahantu hatuje, bityo rero inzu zikorerwamo ubuvuzi zigomba kuba zisukuye kandi zisa neza.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirwaramo abantu barwaye indwara zitandukanye. Iki cyumba gisa neza kandi kirasukuye. Icyumba kirwariramo abarwayi benshi, kiba kigomba gukorerwamo isuku kenshi gashoboka, kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'indwara zitandukanye kuko abarwayi baba baturutse ahantu hatandukanye kandi bafite indwara zitandukanye, bityo rero haba hagomba guhora isuku.

Icyumba kinini cya bimwe mu bitaro bya hano mu Rwanda, iki cyumba kirimo ibikoresho bigezweho bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, mu Rwanda serivisi y'ubuvuzi ni imwe muri serivisi zashyizwemo imbaraga, aho hasigaye hakoreshwa ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo hatabarwe ubuzima bw'abantu benshi kandi indwara nyinshi zivurirwe hano mu Rwanda.

Inyubako zikeye zifite isuku kandi zifite ubusitani bugari, bigaragara ko ari ibitaro, ibitaro biba bigomba kuba biri ahantu hitaruye urusaku rwinshi kandi bifite ubusitani abarwayi baruhukiramo igihe bakeneye kuruhuka.

Icyumba kigari gisa neza kandi gisukuye kirimo ibikoresho by'amoko atandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, dushishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri kandi ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, ahantu hasa neza kugira ngo ubwonko bwacu bubashe kuruhuka kandi neza.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kwicaramo abantu bategereje guhabwa serivisi. Kwa muganga kimwe n'ahandi hantu hahurira abantu benshi haba hari ahantu habugenewe hari intebe nyinshi kandi zisa neza kugira ngo abaje gushaka serivisi babe bahicaye mu gihe bategereje uwo baje gusaba serivisi.

Icyumba cyo kwa muganga kigari kandi gisukuye, iki cyumba cyagenewe kurwariramo abarwayi barembye, inkuta zacyo zifite amashusho menshi atandukanye, byashoboka ko ari ukugira ngo umurwayi ajye arabona ibintu byinshi bimuhuza, bityo yirinde kwitekerezaho ndetse no gutekereza ku bubabare afite.

Icyumba gisa neza kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri wacu ukomeze ugire ubudahangarwa kandi twirinde indwara zimwe na zimwe harimo nk'umubyibuho ukabije ndetse na diyabete.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kandi gifite umutekano, kirimo imashini yabugenewe yifashishwa mu kubika ndetse no mu gutunganya imiti, harimo abaganga benshi bari gukoresha iyi mashini, kwa muganga ni hamwe mu hantu hakenera ikoranabuhanga rihagije mu kubika ndetse no mu gukora imiti kugira ngo uyitewe agire ubuzima buzira umuze.

Iki ni icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, iki cyumba gisa neza kandi kirasukuye kirimo intebe nziza zigezweho ndetse n'ameza byifashishwa n'abitabiriye iyi nama, iki cyumba kandi kirimo ikoranabuhanga rigezweho ryifashishwa n'abitabiriye inama ku buryo buri wese atanga igitekerezo cye kandi kikagera kuri bose mu buryo bumworoheye.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibishusho bitandukanye, harimo, inzovu ingwe ndetse n'utundi dusimba tw'amoko atandukanye, bigaragara ko iki cyumba cyagenewe kuvurirwamo abana, abana iyo bari kuvurwa biba byiza iyo babonye ibibarangaza kugira ngo babashe kuganira na muganga neza kandi badasara.

Ibi ni bimwe mu Bitaro bya hano mu Rwanda biracyeye kandi amatara yabyo aracanye. Bigaragara ko ari mu masaha ya nimugoro. Ibitaro, amashuri, ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi amatara yaho agomba kuba yaka neza kandi agacanwa mu masaha ya nijoro kugira ngo hirindwe bimwe mu bibazo bishobora kuba byaterwa n'uko nta rumuri ruhari.

Inyubako isa neza ifite amarangi atandukanye yiganjemo iry'umweru, iri ku gasongero k'umusozi. Bigaragara ko iyi nyubako ari inyubako ya Leta. Kubera ko imbere yayo hari ibendera ry'igihugu.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, iki cyumba cyagenewe kurwariramo abantu barembye cyane, harwariyemo abarwayi babiri, bigaragara ko barembye cyane, kuko bashyizwemo ibikoresho bibafasha guhumeka, natwe igihe twumva tutameze neza tugomba kujya kwa muganga, kuko kwa muganga barasanasana, ubuzima bugakomeza kwicuma.

Icyuma gifite ikoranabuhanga rihambaye. Iki cyuma gishyirwamo umurwayi kugira ngo harebwe indwara nyakuri arwaye, hanyuma agahabwa imiti bagendeye ku ndwara bamusanzemo. Iki cyuma cyakemuye ibibazo byinshi bitandukanye kuko kitari cyaza, abarwayi bahabwaga imiti hatazwi indwara barwaye.

Igikoresho cyo kwa muganga kizwi nka sikaneri, iki gikoresho cyifashishwa harebwa indwara ziri mu mubiri w'umuntu bidasabye ko bamubaga, iki gikoresho cyakemuye ibibazo byinshi mu buvuzi, aho cyatumye ubuvuzi burushaho gutera imbere kandi abagana serivisi z'ubuvuzi bagahabwa serivisi zinoze.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga. Muganga ari gusuzuma umwana kugira ngo harebwe uburwayi umwana yaba afite bityo ahabwe imiti hagendewe ku burwayi afite. Umwana ndetse n'umubyeyi utwite ni bamwe mu bantu bahabwa ubuvuzi bw'umwihariko kuko umubiri wabo uba ukeneye ubudahangarwa bwiyongereyeho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibikoreshwa bapima uburyo umurwayi ahagaze, hari ibikoreshwa bavura umurwayi, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi bikoresho byose birasukuye kandi bifite ikoranabuhanga rigezweho ku buryo umurwayi wese ugannye ibi bitaro ahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Umuganga urimo kugenda mu bitaro areba nimba hari umurwayi ukeneye ubufasha, iki cyumba bigaragara ko kirwarira abantu barembye cyane kuko kirimo ibitanda bifasha abantu barembye kuba baba mu bitaro kandi bakitabwaho mu buryo bw'umwihariko.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga cyahariwe kuvurirwamo abarwayi barembye iki cyumba gisa neza gisize irangi ry'umweru kirasukuye kandi nta kavuyo karimo bigaragara ko aha ari ahantu h'umwihariko harwarira abarwayi kugira ngo babe batuje kandi bari ahantu hasa neza.

Umurwayi ari kubazwa ibibazo bitandukanye bijyanye n'uburwayi bwe, iyo tugiye kwa muganga, muganga atubaza uburwayi bwacu akatubaza ibibazo byinshi bitandukanye kugira ngo amenye uko ari buze kutuvura, ikindi kandi ntabwo tugomba kubeshya muganga, tugomba kumubwiza ukuri kugira ngo duhabwe ubuvuzi bunoze.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga isa neza irasukuye; isize amarangi meza y'umweru. Kwa muganga haba hagomba kugirirwa isuku, kugira ngo abahagana bahakure ubuzima buzira umuze. Bityo rero ni yo mpamvu kwa muganga tuhasanga abakozi benshi bashinzwe isuku kugira ngo isuku ikomeze kwitabwaho.

Ibitaro bya gisirikare, ibitaro bya gisirikare bivurirwamo indwara zitandukanye ntago ari abasirikare gusa bahivuriza ahubwo n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye barahivuriza, ibitaro bya gisirikare bibamo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho mu buvuzi niyo mpamvu abantu benshi barwaye indwara zanze gukira bagirwa inama yo kujya kwivuriza kuri ibi bitaro.

Iki ni kimwe mu byumba biri kwa muganga, iki cyumba gikoreshwa n'abaje kwivuza indwara y'amaso, iki cyumba kirimo ibikoresho bigezweho, byifashishwa mu kuvura iyi ndwara y'amaso, indwara y'amaso ni imwe mu ndwara zibasiye abantu benshi muri iki gihe, bityo rero haba hagomba kuba ibikoresho bigezweho kugira ngo abagana kwa muganga bashaka iyo serivisi bayihabwe neza, kandi batahe bakize.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kiratuje kandi gisa neza kirakeye. Iki cyumba gikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'umwihariko kuko kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa havurwa abarwayi bafite indwara zitandukanye.

Kigaragaza ko iki ari ikigo gishinzwe kwita kuba babaswe n'ibiyobyabwenge. Ababaswe n'ibiyobyabwenge barafatwa bagashyirwa mu kigo bakitabwaho n'abaganga kugira ngo bagaruke mu buzima busanzwe ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza dukwiriye kubyirinda kugira ngo dukomeze kubungabunge ubuzima bwacu.

Iyi ni inyubako yagenewe kuvurirwamo indwara y'amaso. Indwara y'amaso ni imwe mu ndwara zibasira abantu benshi, yaba abana, abakuze ndetse n'abasaza. Btyo rero, indwara y'amaso igomba kwitabwaho, hagakoreshwa ibikoresho bigezweho, kandi hagashyirwaho amavuriro menshi kugira ngo abarwaye iyi ndwara bitabweho by'umwihariko.

Ibi ni ibitaro bigezweho by'akarere ka Nyarugenge bigaragara ko ibi bitaro bikiri kubakwa bitari byasoza kuzura, ibi bitaro ni byiza cyane nibyuzura bizakira abarwayi benshi kandi bizavura indwara nyinshi zitandukanye kuko bifite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi kandi bagahabwa serivisi zinoze.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirwariramo abarwayi barembye. Iki cyumba bigaragara ko kirwariramo abagore, harimo abagore babiri barwaye bategereje kubonana na muganga. Iyo umurwayi arembye cyane ahabwa icumbi kwa muganga, kugira ngo yitabweho by'umwihariko atari gutaha iwabo.

Iki ni icyumba cya bimwe mu bitaro bya hano Rwanda, aho abaganga bari mu kazi kabo ka buri munsi, abaganga bakora akazi gakomeye ko kwita ku buzima bw'abantu ndetse no kubungabunga ubw'abatari barwara, binyuze mu kubagira inama ndetse n'ubundi bufasha butandukanye buhabwa abantu.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga. Aha niho abarwayi bicara igihe bategereje guhabwa serivisi na muganga, abarwaye iyo baje ntago bahita bajya kubonana na muganga. Ahubwo barabanza bagafatwa imyirondoro yabo, hakarebwa ubwishingizi bakoresha ndetse n'ibindi. Mu gihe rero bari gusabwa iyo serivisi baba bicaye ahantu hatuje kandi hameze neza.

Inzu yagenewe kuvurirwamo ababyeyi n'impinja, ibitaro byinshi biba bifite aho ababyeyi bavurirwa ndetse n'aho impinja zivurirwa kuko ni byiza ko batabavanga n'abandi barwayi, aba baba bakeneye ubuvuzi bw'umwihariko kandi bakirinda ahantu hari urusaku cyangwa akavuyo kenshi.

Ibi ni ibitaro byagenewe kuvura indwara ya kanseri. Kanseri ni imwe mu ndwara isaba ikoranabuhanga rihambaye kugira ngo ibe yavurwa. Bityo rero haba harashyizweho ibitaro runaka bifite ibikoresho bigezweho kugira ngo abarwayi bose barwaye indwara ya kanseri babe bajyayo bavurwe kandi bavurwe neza.

Icyumba cyabugenewe gisa neza kandi gisukuye. Iki cyumba kirimo ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri dukwiye kuyikora kenshi gashoboka, kuko imyitozo ngororamubiri iturinda indwara zitandukanye harimo umubyibuho ukabije, diyabete ndetse no kurwara imitsi.

Muganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiya yabugenewe, yicaye ku ntebe ya palasitike ifite ibara ry'umweru, ari gusuzuma umwana ukiri muto bigaragara ko yambaye iniforume ari kumusuzuma kugira ngo harebwe uburyo umutima we uri gutera ndetse n'uburyo amaraso ye ari kugenda.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga iki cyumba kirimo imashini igezweho yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ikoranabuhanga mu buvuzi ni kimwe mu byagabanyije impfu z'abantu bagana kwa muganga, buno abantu benshi bajya kwa muganga bakunda gukira bitewe n'uko hari ikoranabuhanga rigezweho ryifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Inyubako isa neza yubatse mu buryo bugezweho, inyubako bigaragara ko ari ibitaro, ibitaro biba bigomba gusa neza kandi bifite ahantu hahagije abarwayi barwarira, kuko kwa muganga niho abantu baba baje gushaka uburuhukiro no gukirira indwara zabo, hagomba kuba ari ahantu hasukuye.

Ibiro bikeye bisize irangi ry'umuhondo ku nkuta zabyo, bifite intebe nziza z'amoko atandukanye zituma ababigana babona aho bicara kandi bisanzuye, ibigo byinshi byaba iby'ishoramari ndetse n'iby'ubuvuzi hano mu Rwanda, bafite ibiro byiza, aho abayobozi ndetse n'abaje babagana bicara bakaganira kuri gahunda runaka.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga iki cyumba kirakeye kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Kwa muganga haba hagomba kuba ibikoresho byinshi kandi bigezweho kuko indwara nazo zihora zihindagurika, bityo rero abaganga bagomba kuba bafite ikoranabuhanga rihambaye ryo kwifashisha mu kuvumbura indwara runaka.

Iyi ni inyubako y'ibitaro. Bigaragara ko iri ahantu hitaruye urusaku. Iyi nyubako ifite ubusitani bunogeye ijisho kandi ifite amatara yifashishwa mu kumurika mu gihe cya nijoro kugira ngo ubuvuzi bukomeze butangwa neza nta kibazo kibonetsemo bitewe n'umwijima.

Iki cyuma cyitwa microscope kifashishwa cyane kwa muganga harebwa udukoko twebwe tutarebesha amaso, aho umurwayi asabwa gutanga ibizamini bitandukanye birimo umusarani, inkari, ndetse n'amacandwe. Hanyuma bigapimwa hifashishijwe iki cyuma kugira ngo harebwe indwara umurwayi arwaye.

Ibyumba bibiri byo kwa muganga, ibi byumba birakeye cyane, bisize irangi ry'umweru, birimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa na muganga yita ku barwayi, icyumba kinini kirimo umurwayi, bigaragara ko arembye cyane kuko hari ibyuma bimucometsemo mu mubiri we kugira ngo hasuzumwe uko ameze.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga. Kirimo intebe nziza zifite ibara ry'umutuku. Iki cyumba kandi kirimo igitanda cyabugenewe kijyanmamo umurwayi agiye gusuzumwa indwara zitandukanye. Kwa muganga ni ahantu hagomba kugira isuku kandi hakitabwaho by'umwihariko kuko haza abantu batandukanye.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga. Inyubako isa neza kandi irasukuye, yubatse mu buryo bugezweho. Kwa muganga haba hagomba kugirirwa isuku, hafite ubusitani kugirango abarwayi bashobore kubona ahantu bajya kuruhukira igihe bumva bashaka kujya hanze. Niyo mpamvu inyubako z'ibitaro ziba zigomba kuba ziri ahantu hitaruye urusaku kandi ziri ahantu hatuje.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa havurwa indwara y'amaso indwara y'amaso ni imwe mu ndwara zibasira abantu benshi muri iki gihe bityo rero haba hagomba kuba ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga byifashishwa havurwa iyi ndwara.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ibanze byifashishwa igihe umurwayi agiye gusohoka hanze, umurwayi aba akeneye intebe imeze neza ifite amapine kandi ifite ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo igihe abukeneye abuhabwe.

Aha ni kwa muganga, hari inzu nziza isa neza isize irangi ry'umuhondo, iyi nzu yagenewe kuvurirwamo ababyeyi batwite, ababyeyi batwite bagomba kwitabwaho by'umwihariko, bityo rero si byiza kubavanga n'abandi barwayi, kuko baba bakeneye umwanya kandi bakarwarira ahantu hisanzuye.

Iki ni icyumba cyiza, gisa neza, kirimo itapi yabugenewe gukorerwaho imyitozo. Kirimo kandi ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa hakorwa imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri igira akamaro ku buzima bwacu. Bityo rero tugomba kujya twitabira imyitozo ngororamubiri, tuyikora neza kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Icyumba cyabugenewe kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa kugorora imyitozo ngororamubiri, tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kenshi, kugira ngo umubiri wacu ukomeze ugire ubudahangarwa. Imyitozo ngororamubiri kandi iturinda indwara zitandukanye, harimo indwara y'umubyibuho ukabije, indwara ya diyabete, ndetse n'indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga. Harimo kandi igitanda kigezweho cyifashishwa havurwa umurwayi urembye cyane. Iki gitanda kiriho ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa mu kuvura uwo murwayi.

Gikeye, gisukuye kandi gisize amarangi y'ubwoko butandukanye, aha hagenewe kuganirizwa abarwayi bafite indwara zitandukanye, kwa muganga usanga bafite icyumba cyagenewe kuganirizwamo abarwayi, aho abarwayi baganirizwa bari ahantu hatuje hasa neza kugira ngo muganga avure uwo murwayi kandi amenye neza icyateye uburwayi bwe.

Aba ni abaganga abaganga baba bafite inshingano zikomeye zo kutwitaho, niyo mpamvu biga igihe kinini iyo bari mu mashuri, ikindi kandi bahabwa amahugurwa menshi atandukanye kugira ngo batange ubuvuzi bufite ireme, iyo uvuwe na muganga utarabyigiye bikuviramo ingaruka zitandukanye zishobora kuvamo n'izurupfu, niyo mpamvu tugirwa inama yo kujya kwa muganga ubifitiye ubushobozi igihe cyose twumva umubiri wacu utameze neza.

Inyubako isa neza. Iyi nyubako ikorerwamo ibitaro by' I Ndera. Ibi bitaro ni bimwe mu bitaro bizwi cyane hano mu Rwanda aho bivura abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'abandi bafite ibibazo bitandukanye.

Umukobwa uryamye kwa muganga bigaragara ko arembye, ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo avurwe kandi aakire natwe dusabwa kujya kwa muganga igihe cyose twumva tutameze neza kugira ngo tuvurwe vuba kandi dukire, iyi ndwara ivuwe hakiri kare umurwayi bimurinda kuzahara bityo agakira vuba.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga. iki cyumba kirakeye kandi kirasukuye. kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ikoranabuhanga mu buvuzi ni kimwe mu bintu byashyizwemo imbaraga na leta y'u Rwanda kugira ngo abantu bose bagannye serivisi z'ubuvuzi bahabwe ubuvuzi kandi bufite ireme.

Ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyarugenge byubatse neza mu buryo bigezweho kandi bifite ubusitani busa neza, ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge bifite ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi bityo abarwayi baje babigana bahabwa serivisi nziza kandi abenshi baravurwa bagakira.

Umusaza waje kwa muganga kwivuza, ari guhabwa serivisi nziza n'umukobwa ukiri mutoya w'umuganga, tugirwa inama yo kujya kwa muganga, igihe cyose twumva umubiri wacu utameze neza cyangwa igihe twumva dushaka kumenya uko umubiri wacu uhagaze, ibi bidufasha gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Abaganga bagize ibitaro by'akarere ka rwamagana bari gufata ifoto y'urwibutso, bigaragara ko basoje amahugurwa. Abaganga bakunda guhora mu mahugurwa bigishwa uburyo bagomba kuvura neza indwara zitandukanye. Abaganga ni bamwe mu bantu bakunda kwigishwa buri gihe kuko indwara nazo zihora zihindagurika, bityo rero bagomba kugira ubumenyi kuri buri ndwara buri uko ije.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga inyubako ni ngari kandi ifite ahagenewe guhagarara ibinyabiziga, abaturage benshi baje kwa muganga gushaka serivisi zitandukanye kwa muganga ni hamwe mu hantu haganwa n'abaturage benshi baje gushaka serivisi zo kwivuza bityo rero haba hagomba kuba ari hagari kandi hafite isuku kugira ngo abagana bose bahabwe serivisi zinoze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri birwariraho abarwayi. Uruhande rumwe ruryamyeho umurwayi w'umugore, urundi ruhande ruryamyeho umurwayi w'umukobwa uri kwitabwaho na muganga. Muganga ari kumusuzuma kugira ngo harebwe uko ubuzima bwe buhagaze.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'agapfukamunywa by'umukara. Aryamye ku gitanda cyagenewe kuryamaho abarwayi. Ari kumwe na muganga, ari kumutera urushinge. Bigaragara ko yaje kwipimisha indwara zitandukanye. Natwe dushishikarizwa kujya kwa muganga, igihe cyose twumva tutameze neza.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kandi kirimo ikoranabuhanga rigezweho cyagenewe kubika imiti aho imiti ibikwa ikamara igihe kirekire itari yangirika, imiti iyo idafashwe neza ishobora kugira ibibazo bityo abayikoresheje bakaba bahura n'indwara aho kugira ngo babe bazikira.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kandi gicyeye, icyumba kirimo ifoto nini, iriho imbuto zitandukanye nk'amarongi, pome, ndetse n'izindi mbuto zitandukanye, icyumba kandi kiriho uburiri bwagenewe kuryamaho umurwayi, kirimo n'imashini zifashishwa mu gusuzuma indwara umurwayi arwaye.

Icyumba cyo kwa muganga gisukuye neza kandi gifite ikoranabuhanga rihambaye, iki cyumba kibikwamo amaraso ndetse n'izindi ngingo zigiye gushyirwa mu barwayi, ibi biba bikeneye kwitabwaho cyane kuko iyo bidafashwe neza birangirika, kandi bikaba byakwangiza ubuzima bw'uwo bishyizwemo.

Iyi ni nyubako yo kwa muganga y'igorofa bigaragara ko ari inyubako yubatse mu buryo bugezweho, ku muryango wayo hari abantu batandukanye, hari umugabo wegamiye ku gikuta ndetse n'umugore uteruye umwana baje gushaka serivisi z'ubuvuzi kuri iyi nyubako.

Iki ni icyumba gikomeye kwa muganga. Iki cyumba cyifashishwa igihe umurwayi agiye kubagwa kugira ngo avurwe indwara zo mo imbere mu mubiri we yaba arwaye. Iki cyumba kijyamo abaganga b'inzobere kandi babifitiye ubushobozi kuko iyo umurwayi avuwe nabi ashobora guhita ahasiga ubuzima.

Umuganga uri kwita ku mwana mutoya, hifashishijwe ibyuma byabugenewe. Abana hari igihe bavuka batageze igihe. Bityo bagashyirwa mu byuma bibongerera ubushyuhe, kandi bikabafasha gukura neza. Ibyo byuma biboneka mu bitaro bimwe na bimwe bigezweho, hano mu Rwanda.

Inzu nini y'imiryango ibiri iri imbere y'umuhanda nyabagendwa, iyi nzu igaragara ko ikorerwamo ibikorwa byo gucururizamo imiti nk'uko tubibona ku cyapa kiri hejuru cyanditseho ngo farumasi Iraguha, hari abantu batandukanye hari umubyeyi uri kumwe n'umwana ndetse n'abandi bakobwa babiri baje kugura imiti.

Ni icyumba cyo kwa muganga gisa neza kandi gikeya, kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura ubuzima bwa muntu, kirimo kandi igitanda kiryamaho umurwayi ugiye gusuzumwa indwara zitandukanye, kiriho n'imashini zabugenewe zisuzuma umurwayi kugira ngo harebwe indwara arwaye.

iyi n'inyubako yo kwa muganga iri ahantu hatuje hihitaruye kandi hari ubusitani bugari bigaragara ko ari mu masaha ya nijoro kuko amatara yaho ari kwa, kwa muganga hagomba kuba hari amatara yaka buri gihe, kugira ngo abarwayi bahabwe serivisi nziza kandi zinoze hatitawe ngo ni mu masaha ya nijoro.

Aha ni ahabugenewe hakirirwa abarwayi. Abarwayi bose iyo bagiye kwa muganga, hari aho babanza kwicara kugira ngo babonane na muganga. Aha hantu rero hagomba kuba hasukuye, hasa neza kandi ari hagari, kuko hakira abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bityo rero hagomba kuba hasukuye kugira ngo hatabaho kwanduzanya indwara.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kandi gituje kirimo imashini nyinshi kandi zigezweho zifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kwa muganga haba imashini nyinshi zikoreshwa mu kuvura cyane cyane indwara nka kanseri zisaba imashini nyinshi ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo havurwe iyi ndwara kandi ikire.

Igikorwa cyo kwisuzumisha, aho abantu bashishikarizwa kuza kwisuzumisha kugira ngo harebwe indwara barwaye. Inyuma y'umurwayi hari icyapa kinini cyanditseho irembo. Irembo ni gahunda ya Leta yashyizweho kugira ngo abaturage bajye babona serivise binyuze mu ikoranabuhanga bitabasabye kujya gutonda umurongo aho bagakwiye gusaba izo serivise.

Iyi ni inyubako icuruza imiti izwi ku izina rya farumasi, farumasi ni ahantu ushobora kujya gushaka imiti y'amoko atandukanye kandi imeze neza ukayibona, iyo umurwayi yandikiwe imiti na muganga ikabura ku bitaro asabwa kujya kuyigura kuri farumasi kuko farumasi ziba zifite imiti myinshi y'amoko atandukanye bityo rero farumasi ni ingirakamaro ku buzima bwacu.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kandi kigari, kirimo ibyuma bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi batandukanye, iki cyumba kandi kirimo ibitanda byinshi byifashishwa n'abarwayi bapimwa indwara zitandukanye.

Iki ni icyumba gisa neza kandi gikeye cyane. Iki cyumba amadirishya ndetse n'inzugi byacyo ni ibirahure. Iki cyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi muri ibi bitaro. Ahantu hagenewe gukorerwa ubushakashatsi haba hasukuye, hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga ndetse hari n'umutekano uhagije.

Abantu benshi biganjemo abagore, bitabiriye umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi. Iki gikorwa cyabereye kuri bimwe mu bitaro byo mu Rwanda. Ibi bitaro bisa neza birasukuye nkuko bisanzwe ko ibitaro byo mu Rwanda, biba bifite isuku.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kandi gikeye, inkuta zacyo ndetse n'amezaza yacyo asize ibara ry'umweru, harimo abaganga batandukanye bari gusuzuma ibizamini byafashwe kugira ngo harebwe zimwe mu ndwara abarwayi barwaye bityo bahabwe imiti myiza kandi ibakiza indwara zabo.

Inyubako yo kwa muganga yagenewe kuvurirwamo ababyeyi buri bitaro bigomba kuba bifite inyubako yagenewe ababyeyi kuko ababyeyi bahura n'indwara zitandukanye kandi bakunda kuza kwa muganga baje kwisuzumisha indwara nyinshi cyangwa se kubyara bityo rero bagomba kugira inzu yabagenewe kugira ngo bahabwe serivisi zinoze.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirwariramo abantu barembye cyane. Iki cyumba kirimo igitanda cyakira abarwayi batashobora kwivuza bataha mu ngo zabo, haryamye umubyeyi uri kwitabwaho n'umuganga w'umumama bigaragara ko uyu mubyeyi arembye cyane.

Aha ni kwa muganga, abaturage benshi baje kwivuza indwara zitandukanye, bari kumwe na muganga wabo ubishinzwe ari kubakira kandi yishimye, bigaragara ko bari kubaha serivisi nziza kandi inoze, abaganga bagomba kuganiriza abarwayi neza kugira ngo bamenye icyo abarwayi barwaye kandi bitewe n'uburwayi umuntu arwaye, ni byiza ko muganga amuganiriza kandi atuje.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kandi gifite isuku, iki cyumba kiryamyemo umurwayi urembye uri kwitabwaho no kwa muganga. Kwa muganga haba ibyumba byiza kandi bisukuye byifashishwa mu kuvuriramo abarwayi barembye cyane badashobora kwivuza bataha mu ngo zabo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda abarwayi barwariraho, kwa muganga haba hagomba kugira isuku ihagije kuko abantu benshi barahaza kandi bafite indwara, bityo rero haba hagomba gusukurwa buri gihe kugira ngo hataba ahakwirakwiza indwara, ahubwo habe ahavura indwara.

Ikigo nderabuzima gifite inyubako isa neza kandi ifite n'ubusitani. Ibigo nderabuzima byakira abantu benshi baza babigana, aho bavurwa indwara zitandukanye. Abananiranye boherezwa ku bitaro bikuru, biba bikorana n'ibyo bigo nderabuzima.

Icyumba gisukuye kandi kirimo ikoranabuhanga rigezweho. Iki cyumba kibikwamo amaraso y'ubwoko butandukanye. Amaraso abikwa mu buryo bugezweho, kuko abitswe nabi ahita apfa. Bityo rero aba asabwa kubikwa ahantu heza, hakeye kandi hafite ikoranabuhanga rigezweho, rituma akomeza kuba amaraso ameze neza.

Imashini nziza y'umweru izwi nka sikaneri ikoreshwa mu buvuzi bugezweho, iyi mashini yifashishwa aho umurwayi ashyirwamo, ubundi bagasuzuma indwara arwaye kugira ngo ahabwe imiti bagendeye ku ndwara bamubonyemo.

Icyumba gisa neza kandi gisukuye, icyumba gisize irangi ry'umweru, kirimo akabati ndetse n'igitanda cyifashishwa n'umurwayi igihe agiye guhabwa ubuvuzi, ibyumba byo kwa muganga biba bisukuye ndetse birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi kugira ngo uganye ibitaro wese ahabwe serivisi nziza kandi inoze.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kibamo abarwayi bafite indwara zitandukanye, icyumba kiri gukorwamo amasuku n'ababishinzwe. Gukora amasuku kwa muganga ni igikorwa gihoraho kandi gikorwa kenshi, mu munsi kugira ngo hirindwe zimwe mu ndwara zishobora kuba zakwirakwizwa n'umwanda. Kuko nk'uko tubizi kwa muganga hagira abantu benshi batandukanye kandi barwaye indwara zitandukanye, bityo hagomba gukorwa amasuku igihe cyose.

Umuturage uri kwitabwaho na muganga. Uyu muturage ari kubwira muganga uko uburwayi bwe bumeze, kugira ngo muganga arebe uko yamufasha. Natwe iyo tugiye kwa muganga tuba dusabwa kuvugisha ukuri. Kugira ngo muganga amenye uburyo indwara yacu imeze, ndetse amenye n'umuti agomba kuduha.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bigezweho, ibikoresho byifashishwa kenshi harebwa indwara umuntu arwaye, bidasabye kumubaga ngo barebe indwara arwaye bamubaze, iki gikoresho cyagabanyije ibibazo by'abantu bapfa bari kubagwa kugira ngo harebwe indwara barwaye.

Iri ni iduka ricuruza imiti y'amoko atandukanye rizwi nka farumasi, farumasi igira uruhare rukomeye mu kubungabunga ubuzima bw'umuntu, aho umurwayi ayigana kugira ngo abashe kubona imiti itandukanye bidasabye kujya kwa muganga, igihe umurwayi arwaye indwara yoroheje kandi azi indwara arwaye, agirwa inama yo kujya kuri farumasi.

Aha ni kwa muganga. Iki cyumba cyo kwa muganga gisa neza, kirimo ibikoresho byifashishwa habikwa neza imiti yo kwa muganga. Imiti igomba kubikwa neza mu bikoresho bisukuye kandi bifite ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo hirindwe tumwe mu dukoko dushobora kwibasira iyi miti.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo icyuma cy'ikoranabuhanga kifashishwa hasuzumwa indwara umurwayi arwaye. Iki cyuma gikoreshwa cyane cyane ku bafite indwara zo mu mutwe. Aha hapimwa indwara umurwayi arwaye kugira ngo ahabwe imiti na muganga hagendewe ku ndwara yabonywemo.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, iyi nyubako irakeye isa neza kandi ni ngari, inyubako zo kwa muganga zigomba kuba ari nini kugirango ngo zakire abantu benshi baje bazigana kandi zigomba kuba ziri hafi y'ibikorwa remezo nk'imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo bifasha abaturage kuhagana mu buryo buboroheye.

Iki ni kimwe mu byumba birwariramo abantu kwa muganga. Aho bavurwa ndetse bakanasuzumwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ubu ikoranabuhanga mu buvuzi ni kimwe mu bintu byashyizwemo imbaraga, aho indwara nyinshi zisigaye zivurirwa hano mu Rwanda, hatabaye kohereza abarwayi benshi mu bihugu byo mu mahanga.

Iyi ni imashini yabugenewe yifashishwa havurwa indwara zitandukanye, iyi mashini izwi ku izina rya sikaneri, iyi mashini izwiho ubuhanga buhambaye bwo gutahura indwara umurwayi arwaye bidasabye kumubaga cyangwa se gukoresha ibindi byuma kugira ngo barebe indwara ye.

Umwana mutoya wicaye mu igare ry'abafite ubumuga ari gutembera mu bitaro. Abafite ubumuga nabo ni abantu nkatwe iyo bahawe ibikoresho bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bakora nk'ibyo natwe twakora bityo rero tugomba kwita ku bafite ubumuga tukababa hafi kandi tukabafasha kwivuza kuko iyo bivuje kandi bagahabwa ibikoresho biborohereza ubuzima nabo babaho neza kandi bakagera ku iterambere.

Aka gasanduku kabikwamo ibikoresho ubuvuzi bw'ibanze, ahantu hose hahuriye abantu benshi hagirwa inama yo kuba hari ibikoresho by'ubuvuzi bw'ibanze kuko hari igihe umuntu ashobora guhura n'ikibazo, bityo rero kugira ngo agezwe kwa muganga ameze neza aba agomba guhabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Umukobwa mutoya uri gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kunanura amavi ye ndetse n'amaguru ye. Dukwiriye gukora imyitozo ngororamubiri kenshi kugira ngo twirinde indwara zirimo imitsi, umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi zitandukanye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yifashisha ibyuma byabugenewe, umusore ari guterura ibyuma biremereye kugira ngo umubiri we ukomere kandi ugaragare neza, imyitozo ngororamubiri ifasha mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye kandi ikongera umubiri ubudahangarwa.

Icupa ririmo amazi meza kandi asukuye, tugirwa inama yo kunywa amazi kenshi gashoboka ariko tukanywa amazi meza kuko iyo tunyoye amazi atari meza, adutera indwara nyinshi, bityo rero amazi yo kunywa aba agomba gutekwa cyangwa se agashyirwamo imiti yabugenewe kugira ngo hicwe mikorobe zishobora kudutera indwara.

Amazi meza ari gusukwa mu kirahure avanywe mu icupa, amazi iyo yasukuwe neza agira akamaro gakomeye ku buzima bw'umuntu aho arinda umuntu indwara zitandukanye harimo nk'indwara y'umwuma, amazi kandi afasha impyiko mu kugira ubuzima buzira umuze bityo zikayungurura amaraso neza.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka. Kuko imyitozo ngororamubiri idufasha kurinda indwara nyinshi zitandukanye, bityo tugomba kugira umuco wo gukora imyitozo ngororamubiri kenshi kandi tukayikora neza kuko iyo ikozwe nabi na yo ishobora kuvamo ingaruka zitari nziza.

Ibi ni bimwe mu bikoresho by'ibanze, byifashishwa igihe umurwayi ahuye n'ikibazo kandi atari hafi yo kwa muganga, akenshi ahantu hahuriye abantu benshi hakunda kuba hari ibikoresho by'ibanze, kugira ngo umuntu nahura n'ikibazo yitabweho kugira ngo agere kwa muganga agifite ubuzima buzira umuze.

Icyapa cyiganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, kitwereka ibimenyetso byinshi bitandukanye bitera indwara ya Corona virusi, ndetse n'uburyo butandukanye twakoresha twirinda iyi ndwara ya Corona virusi, harimo gukaraba intoki, kwirinda gusuhuzanya ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Bari kutwigisha bumwe mu buryo dushobora gukoresha dukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bikorwa bituma umubiri wacu umererwa neza kandi bikarinda indwara. Imyitozo ngoramubiri ntabwo bisaba kujya mu nzu zabugenewe cyangwa kwiruka mu muhanda, ahubwo no mu rugo iwawe wakora imyitozo ngororamubiri kandi bikagenda neza.

Umusore ndetse n'umukobwa bari gukora imyitozo ngororamubiri, buri wese afite icupa ry'amazi. Tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka kandi tukanywa amazi meza kandi ahagije, kuko umubiri wacu uba watakaje imbaraga nyinshi dukora imyitozo ngororamubiri, bityo tuba tugomba kunywa amazi meza kandi asukuye.

Mu masaha y'urukerera bigaragara ko uyu mukobwa yazindukiye mu gukora imyitozo ngororamubiri, asoje gukora imyitozo ngoramubiri ari kunywa amazi meza kandi asukuye. Ny uma yo gukora imyitozo ngororamubiri dushishikarizwa kunywa amazi meza kandi asukuye kugira ngo amazi twatakaje turi gukora imyitozo ngoramubiri asubire mu mubiri wacu.

Iyi ni imashini yo kwa muganga, aho umuntu asuzumwa akabona uburwayi arwaye imbere kuri sikirini, iyi mashini ikozwe mu buryo bugezweho aho yifashishwa n'abaganga bareba indwara zitandukanye umurwayi arwaye kugira ngo ahabwe ubuvuzi bunoze kandi bubereye indwara ye.

Hagaragajwe bumwe mu buryo bukoreshwa hirindwa indwara, harimo nko kunywa amazi, gukoresha imbuto zitandukanye harimo nka pome ndetse n'amaronji, ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri, indwara cyane cyane izikomoka ku mubyibuho ukabije, ni zimwe mu ndwara zugarije isi ya none aho abantu basabwa gukora imyitozo ngororamubiri bakanywa amazi menshi ndetse bakarya n'imbuto.

Umusore uri kunywa amazi, amazi meza ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu, niyo mpamvu tugirwa inama yo kunywa amazi kenshi gashoboka, amazi arinda umubiri w'umuntu guhura n'ibibazo bitandukanye kandi amazi afasha mu kuyungurura amaraso.

Aha bari kutugaragariza uburyo butandukanye bwo gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho, iyo dukoze imyitozo ngororamubiri kenshi biturinda indwara y'umuvuduko, w'amaraso ikindi kandi biturinda kujagarara mu bwonko aho duhora dusa neza dufite isura ikeye kandi imitekerereze yacu imeze neza.

Iri ni igare rikoreshwa n'abafite ubumuga bw'ingingo. Iri gare ryifashishwa kugira ngo babashe kuba bagenda bava ahantu hamwe bajya ahandi. Rikaba rifite ikoranabuhanga ritandukanye kugira ngo ryorohereze urikoresha. Ubumuga bw'ingingo si ikibazo cyatuma umuntu adatera imbere. Iyo afite ibikoresho bimufasha mu kumworohereza gukora ingendo ndetse no gukora ibikorwa bye bya buri munsi, ufite ubumuga bw'ingingo na we abasha gukora neza kandi akiteza imbere.

Umukobwa uhagaze ari gukora imyitozo ngororamubiri. Aho ari kugorora amaboko ye. Imyitozo ngororamubiri ni igikorwa cyiza kuko ifasha umuntu kuruhuka kandi ikamufasha kwirinda indwara zitandukanye, zirimo umubyibuho ukabije ndetse n'izindi nyinshi.

Hari imboga n'imbuto ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, imboga n'imbuto dushishikarizwa kubikoresha cyane cyane nk'izi zagaragajwe harimo amarongi, pome, imineke ndetse na kokombure kandi dushishikazwa no gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo turusheho kugira umubiri umeze neza.

Kunywa amazi meza, kurya imboga n'imbuto ndetse no gukora imyitozo ngoramubiri ni bimwe mubyo tugirwamo inama n'abaganga kugira ngo twirinde indwara zitandukanye, ibi biturinda indwara zirimo umubyibuho ukabije, indwara ya diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara zangiza umubiri w'umuntu.

Iyi ni indege izwi ku izina rya dorone, iyi ndege itwarwa hifashijwe ikoranabuhanga, iyi ndege ifashe igikarito kirimo amaraso, ubu izi ndege zitangaga umusanzu ukomeye cyane kugirango abarwayi bose aho bari hirya no hino mu gihugu babashe kubona amaraso kandi vuba.

Umusore uri kunywa amazi meza kandi asukuye. Dushikarizwa kunywa amazi kenshi gashoboka, amazi meza kandi asukuye afasha mu kurinda indwara zitandukanye harimo indwara y'impyiko, impyiko turabizi ko zifasha mu kuyungurura amaraso, bityo rero iyo impyiko zimeze neza, amaraso y'umuntu nayo agenda mu mubiri neza kandi nta kibazo afite.

Ubuvuzi bw'ingingo aho umuntu avurwa hatifashishijwe imiti dusanzwe tuzi nk'inshinge cyangwa ibinini, muganga ubifitiye ubushobozi arakuvura kandi akakugorora ingingo hifashishijwe ibindi bikoresho byabugenewe.

Uburyo butandukanye bwakoreshwa dukora imyitozo ngororamubiri. Aha bagaragaje imikino itandukanye harimo iy'amaboko ndetse n'iy'amaguru ikoreshwa mu kugira ngo umubiri w'umuntu ukomeze kumera neza kandi twagiriwe inama yo kunywa amazi buri gihe, uko dusoje gukora imyitozo ngororamubiri.

Turi gushishikarizwa gukina imikino itangizariza ubuzima bwacu, hari imwe mu mikino iba isaba imbaraga nyinshi cyane bituma umuntu ashobora kuhangirikira, rero niyo mpamvu tuba tugomba kwirinda mu gihe tugiye gukina bene iyo mikino, kuko imikino yashyiriweho kugira ubuzima bwacu bukomeze kumera neza, ntabwo yashyiriweho kwangiriza ubuzima bwacu.

Igikorwa rusange cyo gukora imyitozo ngororamubiri, muri iki gihe akenshi mu mijyi abantu bahurira hamwe bagakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bafashanye kandi buri wese atahe ameze neza bityo rero natwe tuba tugomba gukora imyitozo ngoramubiri haba hari gahunda runaka yashyizweho yo gukora imyitozo ngororamubiri tukayitabira kuko imyitozo ngoramubiri ni ingenzi ku buzima bwacu.

Umukobwa ukiri muto bigaragara ko asoje gukora imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi ni igikoresho gisukuye, natwe dushishikarizwa kunywa amazi igihe cyose dusoje gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'igihe cyose tuyashakiye kuko amazi ni ubuzima bityo rero tuba tugomba kunywa amazi meza asukuye kandi tukayanywera mu gikoresho gisukuye kugira twirinde indwara ziterwa no kunywa amazi adasukuye.

Umusore uri kunywa amazi bigaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri. Dusabwa kenshi gukora imyitozo ngororamubiri, twasoza gukora imyitozo ngororamubiri tukanywa amazi kuko umubiri wacu uba watakaje amazi menshi bityo rero tuba tugomba kunywa amazi kandi asukuye.

Igikorwa cyo gufasha abana batishoboye. Abana batishoboye na bo ni abana nk'abandi. Bityo rero baba bagomba gufashwa, bagahabwa ibikoresho by'ishuri kandi bakajyanwa ku ishuri. Ibi bibarinda guhura na bimwe mu bibazo bitandukanye bituma abana bava mu ishuri kandi bakabaho nabi.

Kunywa amazi meza kandi asukuye bigira umumaro ku mubiri w'umuntu. Amazi meza kandi asukuye afasha umubiri w'umuntu kwirinda indwara zitandukanye bityo rero tugirwa inama yo kunywa amazi meza tukirinda kunywa amazi atarime kuko amazi atari meza adutera indwara z'umwanda harimo inzoka ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Umugabo usoje gukora imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi. Dushishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri kenshi kuko biturinda kurwara indwara nyinshi zitandukanye bityo tukirinda guhora kwa muganga. Abaganga ndetse n'inzobere mu by'ubuvuzi batugira inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kandi tukanywa amazi menshi kandi asukuye kugira ngo twirinde indwara nyinshi zitandukanye.

Umusore ari mu cyumba cyagenewe gukuramo imyitozo ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaboko ye, amaguru ye ndetse n'umugongo, dushishikarizwa kenshi gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo twirinde indwara nyinshi zitandukanye kandi iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri uruhu rwe rukomeza rukeye kandi bikamurinda indwara zitandukanye zibasira uruhu ndetse n'ingingo z'umubiri.

Umusore uri kwimenaho amazi mu maso bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri ifasha mu kurinda indwara kandi yongera ubudahangarwa bw'umubiri biba byiza iyo umaze gukora imyitozo ngororamubiri ukanywa amazi meza kandi asukuye kuko uba watakaje amazi menshi igihe uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore n'umukobwa basoje gukora imyitozo ngororamubiri bari kunywa amazi. Iyo dusoje gukora imyitozo ngororamubiri dushishikarizwa kunywa amazi meza kandi asukuye, kugira ngo amazi twatakaje dukora imyitozo ngoramubiri tuyagaruze, bityo umubiri wacu ukomeze umere neza kandi ugire ubuzima buzira umuze.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri ari kuyikorera ku itapi isa neza ifite ibara ry'umukara, bigaragara ko uyu musore yamenyereye gukora imyitozo ngororamubiri kuko umubiri we uteye neza kandi urakomeye. Natwe dushishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Igikorwa cyo gushishikariza abantu gukora imyitozo ngororamubiri, aho kugira ngo babe imbata zo gukoresha imiti yo kwa muganga. Harimo nk'ibinini ndetse n'inshinge. Imyitozo ngororamubiri ifasha mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nko kugabanya umubyibuho ukabije, kuvura umunaniro wo mu bwonko ndetse n'izindi zitandukanye.

Umusore bigaragara ko asoje gukora imyitozo ngororamubiri mu masaha ya gitondo; ari kunywa amazi meza kandi asukuye; natwe tuba tugomba kunywa amazi meza kandi asukuye igihe cyose dusoje gukora imyitozo ngororamubiri kuko umubiri wacu uba watakaje amazi menshi bityo rero tuba tugomba kunywa amazi menshi kandi asukuye kugira ngo umubiri wacu ukomeze ukore neza.

Umukobwa uri iwe mu rugo ari gukora imyitozo ngororamubiri, arishiya rwose bimuteye ishema ryo kuba kwita ku mubiri we, imyitozo ngororamubiri ni igikorwa dukora dukorera umubiri wacu kugirango twirinde indwara zitandukanye, sigombwa kwiruka mu muhanda cyangwa se kujya mu nzu zabugenewe, nawe wayikorera iwawe bityo ukabungabunga umubiri wawe.

Iyi ni inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo abasore babiri bari gufashanya mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho bari kugorora umugongo amaboko ndetse n'ibindi bice by'umubiri wabo, natwe tuba tugomba gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka, kugira ngo twirinde indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri kunywa amazi bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko umuntu iyo amaze gukora imyitozo ngororamubiri, anywa amazi kuko mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri aba yatakaje amazi menshi mu mubiri bityo rero aba agomba kunywa amazi menshi kandi asukuye.

Umusore bigaragara ko asoje gukora imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi meza kandi asukuye, natwe dushikarizwa kunywa amazi meza kandi asukuye igihe cyose tumaze gukora imyitozo ngororamubiri amazi yo kunywa abatandukanye n'amazi yo gukoresha ibindi bitandukanye bityo rero dushishikarizwa guteka amazi tugiye kunywa cyangwa se tukayashyiramo imiti yabugenewe kugira ngo hicwe mikorobe ziba mu mazi.

Abasore n'inkumi bakorera umuryango wa kuruwa ruje, bari guhugurwa uko wakwita ku murwayi kugira ngo agere kwa muganga ameze neza, hari igihe biba ngombwa ko dutanga ubuvuzi bw'ibanze ku umurwayi, mbere y'uko agera kwa muganga.

Umurwayi uri kuvurwa hifashishijwe kumukoresha imyitozo ngororamubiri, aho ari gufashwa na muganga guterura utuntu duto duto, ibi bifasha mu kugorora imitsi ndetse no kuvura izindi ndwara zitandukanye z'ingingo.

Inkoni yifashishwa n'abafite ubumuga bw'ingingo, cyane cyane abafite ubumuga bw'ingingo z'amaguru. Abafite ubumuga bw'ingingo ndetse n'abandi bafite ubumuga butandukanye, bahabwa ibikoresho bitandukanye byo kunganira ingingo zikora neza kugira ngo ubumuga bwere kubabera imbogamizi mu iterambere ryabo ndetse n'iry'igihugu muri rusange.

Abantu babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, bafite icupa ry'amazi mu ntoki zabo, gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro ku buzima bwacu, kuko biturinda kurwara indwara zitandukanye zirimo nk'indwara z'imitsi, indwara z'umubyibuho ukabije n'izindi ndwara zitandukanye.

Umukobwa wicaye hasi urambuye amaguru n'amaboko, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kenshi kugira ngo umubiri wacu uhore umeze neza kandi imyitozo ngororamubiri iturinda indwara zitandukanye, zirimo indwara y'umubyibuho ukabije, Diyabete ndetse n'izindi nyinshi.

Umusore washyizwemo icyuma kimufasha kugorora ingingo ze. Ari kumwe n'umuganga aho ari kumwerekera uburyo agomba kwitwara, kugira ngo umubiri we wongere kumera neza. Iyo umuntu yarwaye bikaba ngombwa ko igufwa rye rigira ikibazo, ashyirwamo insimburangingo zimufasha kugira ngo umubiri we urusheho gukora neza.

Umusore uri kwimenaho amazi, umusore bigaragara ko asoje gukora imyitozo ngororamubiri, natwe durashikarizwa kwita ku buzima bwacu dukura imyitozo ngororamubiri, kandi igihe cyose dusoje gukora imyitozo ngoramubiri, tuba tugomba kunywa amazi meza kandi asukuye kugira ngo umubiri wacu ukomeze umere neza.

Umusore uri kugororwa ingingo ze bigaragara ko ari kwa muganga natwe tuba dusabwa kugorora ingingo zacu si ngombwa kujya kwa muganga. Bityo rero dusabwa gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo duhore tumeze neza twirinde ibibazo bitandukanye biterwa no kudakora imyitozo.

Ikinyamakuru cyandika ku bijyanye no kwivura hakoreshejwe imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri ni umuti ukomeye cyane, iyo umuntu abikoze mu buryo buhoraho, imyitozo ngororamubiri kandi ifasha mu kurinda indwara zitandukanye harimo nk'umubyibuho ukabije ndetse n'indwara z'ubuhumekero.

Umugabo uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri na muganga, kwa muganga hari igihe basanga umurwayi akeneye gukoreshwa imyitozo ngororamubiri, cyane cyane iyo ahuye n'ikibazo cy'imvune kuko ikibazo cy'imvune ntabwo kivurwa n'imiti gusa ahubwo umuntu aba agomba gukoresha umubiri we akawunanura kugira ngo umenyere.

Umugabo uri kunywa amazi, amazi ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu kuko amufasha kwirinda indwara zitandukanye, harimo kugira umwuma kandi amazi afasha impyiko kumera neza, kandi tuzi ko impyiko ziyungurura amaraso bityo rero uwanyoye amazi impyiko ze zikora neza bigatuma amaraso ye ahora ameze neza.

Icyumba kigali cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho by'amoko atandukanye byifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri tugirwari inama yo kujya muri ibi byumba kuko akenshi usanga hari n'abashinzwe gutoza abantu uburyo bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo itabagiraho ingaruka zitari nziza.

Umusore bigaragara ko yamenyereye gukora imyitozo ngororamubiri. Ari gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kunanura amavi ye ndetse n'amaboko ye. Uyu musore kandi yambaye ekuteri ari gukora imyitozo ngororamubiri yumva n'umuziki. Dushishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri kenshi kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu.

Umubyeyi uri kuganiriza umwana we bigaragara ko umwana yishimye cyane tugirwa inama yo kudahana abana bacu mu rugo bakosheje tubakubita, akenshi biba byiza iyo uganirije umwana ukamwereka ko ikosa yakoze atari ryiza ukamusaba kutazabisubira aho kugira ngo uhite umukubita, igikorwa cyo kuganiriza abana gituma bakura neza mu mitekerereze kandi bikabarinda kwiheba.

Umuntu ufite icupa rikeye ririmo amazi asukuye. Amazi asukuye ni ubuzima, tuba tugomba kunywa amazi kenshi gashoboka kandi asukuye. Iyo tunnyweye amazi adasukuye adutera indwara zitandukanye harimo indwara y'impiyiswi ndetse n'izindi ndwara ziterwa no kunywa amazi adasukuye.

Inkoni yifashishwa n'abafite ubumuga bw'ingingo, abafite ubumuga bw'ingingo ndetse n'abafite ubumuga butandukanye bahabwa ibikoresho bibafasha kuborohereza mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho ibi bikoresho babihabwa ku giciro gitoya.

Aha bari kutwereka ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kurinda indwara zitandukanye, harimo n'indwara y'umutima ndetse n'indwaya y'umuvuko w'amaraso. Tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri tugakina umupira ndetse n'indi mikino ituma imibiri yacu igororoka.

Iyi ni imashini igezweho ifite ikoranabuhanga rigezweho. Iyi mashini yifashishwa havurwa indwara zitandukanye zo mu mutwe aho umurwayi apimwa hakarebwa uburwayi arwaye bityo agahabwa ubufasha hagendewe ku ndwara yabonywemo na muganga.

Umukobwa ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari ikiyaga, bigaragara ko ari ahantu heza kandi hatuje, natwe tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri, tukayikorera ahantu heza kandi hatuje tubasha kubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Umwana mutoya ari kwitabwaho n'abaganga, ari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri. Abana batoya na bo tuba tugomba kubitaho tukabagorora ingingo zabo kugira ngo hirindwe indwara zimwe na zimwe zishobora kwibasira ingingo zabo. Bityo rero ababyeyi barashishikarizwa gukinisha abana babo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima buzira umuze.

Abaganga bane bambaye ibikoresho byabugenewe kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'indwara bari kwita ku murwayi, bigaragara ko uyu murwayi arembye cyane, kuko ari kwitabwaho by'umwihariko, umurwayi iyo arembye cyane ahabwa ubufasha bw'ibanze, aho abaganga barenze umwe baza kumwitaho, kugira ngo avurwe kandi akire.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri dushishikarizwa kenshi gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri wacu ukomeze umere neza akenshi usanga abahungu aribo bakora imyitozo ngororamubiri abakobwa ntabwo bakunda kwitabira imyitozo ngororamubiri kandi imyitozo ngoramubiri iratureba yaba basore abagabo abana ndetse n'abakuze.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kunanura amaguru ye ndetse n'amaboko ye, tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka, kuko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kurema ubudahangarwa bwinshi kandi ikarinda indwara zitandukanye, harimo nk'indwara y'imitsi ndetse n'izindi ndwara.

Mu buryo butandukanye tugirwamo inama zo kwirinda indwara harimo kurya imboga n'imbuto, ndetse no kurya ibinyampeke, ikindi kandi tuba tugomba gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka kugira ngo umubiri wacu ukomeze ugire ubudahangarwa, bityo rero tuba tugomba gukurikiza izi nama tugirwa n'abaganga kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa hakinwa imikino itandukanye, aha twavugamo nk'umukino w'amaguru, umukino wa rugubi, umukino wa tenisi, umukino wa basikete ndetse n'indi mikino, dushishikarizwa kugira umwe muri iyi mikino dukora kuko iyi mikino idufasha kugira ubuzima bwiza kuko tuba dukora imyitozo ngororamubiri.

Iki ni igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa na muganga yumva uko umutima w'umurwayi utera ,iki gikoresho muganga agikoresha afata igice kimwe akagishyira ku mutima w'umurwayi ikindi gice akagishyira ku matwi kugira ngo yumve uburyo umutima urwaye utera yasanga umutima urwaye utari gutera neza akagira inama amugira.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri ari kugorora amaguru ye amaboko ye ndetse n'umugongo tuba tugomba gukora imyitozo ngororamubiri tukagorora umubiri wacu kugira ngo twirinde indwara zitandukanye harimo indwara y'imitsi indwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara y'umubyibuho ukabije tuba tugomba guhora dukora imyitozo kugira ngo umubiri wacu umenyere kandi uhorare ukeye.

Imyitozo ngororamubiri mu masaha ya mugitondo. Ari kunywa amazi meza, asukuye, kandi ari mu icupa risa neza ryabugenewe. Natwe iyo dusoje gukora imyitozo ngororamubiri dushishikarizwa kunywa amazi meza. Kuko umubiri wacu uba watakaje amazi menshi. Bityo rero tuba tugomba kunywa amazi meza kandi asukuye kugira ngo umubiri wacu ukomeze ugire ubuzima buzira umuze.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, ryifashishwa mu kuvura abarwayi batandukanye. Kwa muganga haba hagomba kuba ibikoresho bigezweho kugira ngo indwara yose umurwayi aje kwivuza abashe kuba yabona imiti yayo, bityo rero ikoranabuhanga kwa muganga rigomba guhora risubirwamo kugira ngo rijyane n'igihe tugezemo.

Kugira ubuzima buzira umuze biraharanirwa ntabwo byizana. Dushishikarizwa kurya indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo imboga ndetse n'imbuto. Ikindi kandi tugakora n'imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka kugira ngo umubiri wacu ukomeze ugire ubudahangarwa kandi twirinde indwara zitandukanye.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaguru, aha hari abakinnyi babiri bari gufashanya mu kugorora ingingo zabo, bambaye amakabutura y'umukara ndetse n'imipira y'amace y'ibara ry'ubururu, gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro tugashishikarizwa kwitabira imikino yose yadufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umubyeyi wambaye ishati y'umweru, yaje kwa muganga bigaragara ko amaze guterwa urushinge kuko afashe ahantu hamaze guterwa urushinge, kwa muganga hakorerwa serivisi zitandukanye aho biba ngombwa ko uterwa urushinge kugira ngo hamenyekane indwara urwaye, cyangwa se bagutere imiti binyuze mu nshinge.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aryamye ku itapi yabugenewe ari ahantu heza kandi hasukuye, ari kunanura amaguru ye ndetse n'amaboko ye, dushishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri kenshi cyane kugira ngo twirinde indwara zitandukanye.

Umukobwa wicaye hasi uri gukora imyitozo ngororamubiri bigaragara ko ibyo ari gukora ari kubirebera kuri mudasobwa irambitse imbere ye, ubu ibintu byarorohejwe aho ushobora gukora imyitozo ngororamubiri wibereye iwawe mu rugo ukoresheje ikoranabuhanga.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri. Bigarragara ko iyi nzu ari gukoreramo imyitozo ngororamubiri ari inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri . Kuko irimo ibikoresho byinshi bitandukanye , byifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri . Kandi uyu musore bigaragara ko ari umukinnyi w'umwe mu mikino y'intoki ikinwa mu Rwanda wa rugubi.

Umusore ukina umukino wa kiriketi ari kwitabwaho n'abaganga, bigaragara ko yagize ikibazo cy'imvune. Uyu mukino hashobora kubonekamo impanuka zitandukanye, niyo mpamvu abawukina baba bitwikiriye isura yabo kugira ngo itangirika. Natwe igihe dukina cyangwa se dukora imikino ishobora kuvamo ingaruka zitari nziza, tuba tugomba kwambara ibikoresho byabugenewe. Kugira ngo twirinde ingaruka mbi zava muri uwo mukino.

Abantu benshi biganjemo abana ndetse n'urubyiruko, bari gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko bari gukorera imyitozo ngororamubiri ku kibuga gikinirwamo umukino wa Basketball, natwe tugirwa inama yo gukora imyitozo ngoramubiri kenshi gashoboka kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu.

Ibimera by'amoko atandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bimera harimo igikakarubamba, tangawize ndetse n'ibindi byatsi by'amoko atandukanye, ibi bimera iyo bikoreshejwe n'abavuzi babifitiye ubushobozi, bivamo imiti myiza kandi ikiza indwara zitandukanye.

Abantu b'ingeri zitandukanye, bagiye mu ishyamba gushaka ibyatsi by'amoko atandukanye byo kwifashishwa hakorwa imiti, ibyatsi byinshi bikoreshwa nk'imiti usanga akenshi bidakunda kuboneka ahantu hose, aho ababikoresha bibasaba kujya mu ishyamba kimeza.

Ibimera bitandukanye birimo tangawizi, mucyayicyayi, te, romali ndetse n'ibindi bimera biteretse hasi ku kirago. Aho umuvuzi gakondo ari kugenda abivanga kugira ngo akuremo umuti mwiza ukoreshwa mu kuvura indwara z'abantu batandukanye.

Ikibabi cy'icyatsi kizwi nk'umuharavumba giteretseho ibinini byinshi, bigaragara ko ibi binini byakozwe muri iki cyatsi. Umuharavumba ni icyatsi gikoreshwa cyane hano mu Rwanda, mu buryo gakondo bwo kwivuza. Aho gikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora ndetse n'izindi.

Iki ni igikorwa cyo kuvanga ibyatsi bitandukanye kugira ngo hakorwemo umuti. Ibi byatsi iyo bivanzwe n'abaganga gakondo babihuguriwe bafite ubushobozi bwo gukora imiti, bivamo imiti myiza, ariko tugirwa inama yo gukoresha imiti yemewe n'abaganga kugira ngo twirinde ingaruka mbi zishobora guterwa no gukoresha imiti itujuje ubuziranenge.

Ubu ni uburyo butandukanye twakoresha twirinda indwara zitandukanye, dukoresheje imiti ikozwe mu byatsi. Iyi miti harimo imiti yoza amenyo, imiti ivura indwara zo mu nda ndetse tukagirwa inama yo kurya imboga ndetse n'imbuto.

Utwibo duteretse ku meza, turimo imizi ndetse n'imbuto z'amoko atandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, ubuvuzi gakondo bukenera imiti y'amoko atandukanye, abavuzi gakondo bazi uburyo batoranya iyi miti kugira ngo harebwe iri buvangwe kugira ngo ivemo umuti mwiza.

Umuti ukozwe mu bimera, uyu muti wifashishwa n'abantu bafite indwara zitandukanye harimo abarwaye indwara zo munda ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, abawukoresha bagirwa inama yo kudakoresha umuti mwinshi kuko iyo ubaye mwinshi ugira ingaruka zitari nziza ku buzima bw'umuntu.

Iki kimera bacyita kapusine. Kapusine ni ikimera kizwi ku rwego Mpuzamahanga kuko kivura indwara nyinshi zitandukanye, zirimo indwara z'ubuhumekero, indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, iki kimera iyo gikoreshejwe kikavangwa n'indi miti, kivamo umuti mwiza cyane.

Amabwiriza agenga abantu bifuza gukora ubuvuzi gakondo muri Afurika, ubu buvuzi gakondo iyo budasuzumwe neza n'abayobozi babishinzwe bitera ibibazo bitandukanye, aho usanga bamwe batanga imiti igira ingaruka zitari nziza ku buzima bw'umuntu.

Ibimera by'amoko atandukanye biri mu mavazi, ibi bimera byifashishwa n'abavuzi gakondo bakora imiti itandukanye, ibimera harimo nk'igikakarubamba, tangawize, mu cyayi cyayi ndetse n'ibindi bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo, ibi bimera ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu.

Iyi ni imiti ikozwe mu bimera. Iyi miti ifasha umubiri w'umuntu kwirinda ndetse no kwivura indwara zitandukanye, bityo rero dushishikarizwa gukoresha iyi miti kugira ngo dukomeze tugire ubuzima buzira umuze kandi hari igihe umuntu aba arwaye ku buryo yanabagwa, ariko yakoresha iyi imiti akavurwa kandi agakira.

Iki ni ikimera bita tungurusumu. Tungurusumu zirazwi cyane mu buvuzi gakondo ndetse no mu byo kurya byacu bya buri munsi. Tungurusumu izwiho mu kugira intungamubiri zitandukanye, no kuvura indwara nyinshi z'amoko atandukanye. Tugirwa inama yo kurya tungurusumu mu biryo byacu bya buri munsi, kandi tukanayihekenya ari mbisi igihe cyose twumva dufite uburwayi bwo mu nda.

Umugabo wambaye umupira w'amace, ufite ibara ry'umweru. Yaje mu ishyamba rinini ry'inzitane, ari kugenda asoroma ibyatsi yifuza gukoresha mu gukora. Bigaragara ko uyu mugabo ari umuvuzi gakondo.

Isabune ikoze mu gikakarubamba ndetse na avoka. Iyi sabune ni nziza ku bantu bafite indwara z'uruhu ndetse n'abashaka kurinda uruhu rwabo kugira ngo rutangirika. Iyi sabune ivura indwara zitandukanye harimo nka ibiheri, ndetse n'izindi ndwara zibasira uruhu.

Icupa ritari rirerire cyane ririmo ubuki, ubuki ni umusaruro ukomoka ku nzuki. Ubuki bwifashishwa mu bikorwa bitandukanye harimo ndetse n'ibijyanye n'ubuvuzi, aho buvangwa n'indi miti itandukanye ubundi bugakoreshwa mu kuvura ubuzima bw'abantu.

Ibi ni ibimera by'amoko atandukanye byifashishwa mu gukora imiti, ibi bimera iyo bivanzwe n'abaganga babifitiye ubushobozi, bivamo imiti myiza yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ariko tugirwa inama zo gukoresha iyi miti igihe yemewe n'abaganga babifitiye ubushobozi, kuko imwe muri iyi miti ishobora kwangiza ubuzima bwacu.

Ahantu hacururizwa imiti gakondo, bigaragara ko yatunganyijwe neza, igafungwa neza kugira ngo izamare igihe kinini, ikoreshwa kandi itagira ingaruka mbi ku bayikoresha, imiti gakondo iyo itunganyijwe n'abakozi babifitiye ubushobozi, igira akamaro cyane ku mubiri w'umuntu.

Iki ni kimwe mu byatsi bikoreshwa havurwa indwara z'amoko atandukanye, cyane cyane indwara zo mu nda, abahanga mu buvuzi gakondo iki cyatsi baracyubaha cyane, kuko iyo kivanzwe n'indi miti kibyara umuti mwiza cyane kandi udatera ingaruka ku mubiri wawukoresheje.

Umuti ukozwe mu buki, ubuki bukorwamo imiti myinshi cyane, abavuzi gakondo bifashisha ubuki mu kubuvanga n'indi miti kugira ngo bakore umuti umeze neza kandi uvura indwara zitandukanye. Natwe dushishikarizwa kurya ubuki n'iyo twaba tutarwaye kuko ubuki bugira akamaro mu buzima bwacu.

Ibimera by'amoko atandukanye ndetse n'imiti yatunganyijwe ivuye muri ibyo bimera, ibimera biratunganywa bikavamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyo ibimera bitunganyijwe n'abaganga babifitiye ubushobozi bivamo imiti myiza itagira ingaruka ku buzima bwa muntu.

Imiti gakondo yatunganyijwe igakorwamo ibinini, tugirwa inama yo kudakoresha imiti yo kwa muganga kenshi kuko imiti yo kwa muganga nayo igira ingaruka zitari nziza ku buzima bw'umuntu bityo rero imiti gakondo iyo itunganyijwe iba ari myiza gusumbya imiti yo kwa muganga.

Iki cyatsi cyitwa marafumba kivura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora ndetse n'izindi ndwara zifata imyanya y'ubuhumekero. Imiti gakondo igira akamaro kanini cyane cyane ku baturage batuye mu bice byo mu cyaro. Aho usanga abenshi badakunda kujya kwa muganga ahubwo bakoresha ibyatsi bibegereye mu kuvura indwara baba bahura na zo buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umuti ukozwe mu bimera ndetse no mu buki. Uyu muti ufasha umubiri w'umuntu kumera neza. Akenshi indwara z'uruhu zikunda kuvurwa n'iyi miti. Imiti ikozwe mu bimera ivura uruhu cyane, kuko iba ikungahaye ku ntungamubiri zifasha uruhu rw'umuntu kumera neza.

Ibimera ndetse n'imbuto by'amoko atandukanye byifashishwa mu gukora imiti, aha dusangamo nk'indimu, umucyayicyayi ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye, ibi iyo byifashishijwe n'abaganga babifitiye ubushobozi bakuramo imiti myiza kandi itagira ingaruka ku buzima bw'umuntu.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku biribwa ndetse n'imiti. Iki kigo cy'igihugu gifite inshingano zikomeye zo kubungabunga ubuzima bw'abantu, aho imiti yose isuzumwa kugira ngo harebe niba yujuje ubuziranenge kandi n'ibyo kurya byose byakorewe mu nganda biba bigomba gusuzumwa kugira ngo harebwe nimba bitakwangiza ubuzima bw'abantu.

Iki giti cyifashishwa mu buvuzi gakondo mu bihe byo hambere ubuvuzi gakondo bwari bwo buvuzi bukoreshwa n'abantu benshi mu rwanda aho ubuvuzi bugezweho butari buragashinga imizi mu rwanda niyo mpamvu abantu benshi bakoreshaga ibyatsi babivanga kugira havemo imiti y'amoko atandukanye.

Uyu ni umuti ukozwe mu bimera, uyu muti ni mwiza cyane ku bwonko bwa muntu kuko ufasha ubwonko gutekereza neza, kandi ikindi ukaburinda kanseri y'ubwonko, bityo dushishikarizwa gukoresha uyu muti igihe cyose twawandikiwe na muganga, kuko uyu muti ni mwiza ntabwo utera indwara zitandukanye kuko ukozwe mu bimera.

Umugabo wagiye mu ishyamba gushaka ibyatsi akoresha mu buvuzi gakondo. Ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo ntabwo ari ibyatsi bikunda kuboneka ahantu hose. Akenshi usanga ari ibyatsi biboneka mu mashyamba y'inzitane. Aba bantu b'abavuzi gakondo rero bibasaba urugendo runini kugira ngo bajye kubishaka muri ayo mashyamba.

Aha ni mu ishyamba kimeza aho dusangamo ibyatsi bitandukanye abavuzi gakondo bakunda gukora urugendo runini bajya mu ishyamba kimeza gushakayo imiti itandukanye bifashisha mu buvuzi bwabo, iyi miti ikoreshwa mu buvuzi gakondo akenshi usanga ari ibyatsi tudasanga ahantu hasanzwe hahingwa niyo mpamvu bajya mu ishyamba cyemeza kugira ngo barebe ko babonayo iyi miti.

Ibyatsi by'amoko atandukanye, birimo gutunganywa kugira ngo havemo imiti, imiti gakondo ni imwe mu miti ikunda kwifashishwa n'abantu, cyane cyane abantu batuye mu cyaro, aho usanga badakunda gukoresha imiti yo kwa muganga, imiti gakondo iyo itunganyijwe neza ntacyo iba itwaye abayikoresha, kuko na yo ishobora gukoreshwa mu kuvura indwara iyo yatunganyijwe neza n'ababifitiye ubushobozi.

Uyu ni umuti ukozwe mu bimera, uyu muti wifashishwa havurwa indwara zitandukanye harimo n'indwara yo kurangiza vuba, gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro ndetse n'izindi ndwara. Iyi miti ikunda kuboneka ahantu henshi cyane cyane ahantu hacuruza imiti gakondo.

Icupa ry'umweru rifite umufuko w'ubururu iri cupa ririmo amavuta meza yatunganyijwe akomoka ku bimera, ibimera iyo bitunganyijwe neza bivamo amavuta meza atangiriza uruhu rwacu, bityo rero dushishikarizwa kwita ku bimera tukabibungabunga kuko ni ingirakamaro ku buzima bwacu.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi gakondo, ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukorwa hifashishijwe imiti ikomoka ku bimera, ibimera bigira akamaro kanini mu buzima bw'umuntu, bityo abaganga babifitiye ubushobozi, batunganya ibimera by'amoko atandukanye bakabikoramo imiti, iyi miti nta ngaruka igira ku mubiri w'umuntu.

Iki cyatsi cyitwa igikakakarumba. Igikakarubamba kirazwi cyane mu Isi y'ubuvuzi gakondo, cyifashishwa havurwa indwara nyinshi kandi zitandukanye. Igikakarubamba gikorwamo imiti harimo umuti woza amenyo, umuti urinda ibiheri ku mubiri, ndetse n'indi miti itandukanye, bityo tuba tugomba kukibungabunga kuko iki cyatsi ni ingirakamaro mu buzima bwacu.

Ibi byatsi byitwa amatovu. Amatovu ni ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane mu kuvura indwara z'amatungo. Amatovu ni ibyatsi byimeza akenshi ntabwo biterwa. Amatovu iyo avanzwe n'ibindi byatsi agira uruhare mu kuvura indwara zaba iz'abantu ndetse n'inyamaswa.

Ibi ni ibimera by'amoko atandukanye byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye ibi bimera iyo bitunganyijwe neza n'abaganga babifitiye ubushobozi bivamo imiti myiza ivura indwara zitandukanye bityo rero dushishikarizwa gukoresha iyi miti igihe yatunganyijwe neza n'abaganga babifitiye ubushobozi kuko iyo idatunganyijwe neza itera indwara nyinshi zitandukanye.

Aya ni amakuru kuri televiziyo Rwanda, aho hari gutangwa ikiganiro ku bijyanye no kunoza ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Ubuvuzi gakondo iyo bukozwe neza bugira ingaruka nziza kuko imiti gakondo na yo iravura iyo yasuzumwe.

Uyu ni umuti ukozwe mu bimera, uvura indwara nyinshi zitandukanye zo mu nda, uyu muti ucuruza na sosiyete icuruza imiti hano mu Rwanda yitwa Alliance, uyu muti dushishikarizwa kuwukoresha kuko nta ngaruka n'imwe ugira mu mubiri w'umuntu, bitewe n'uko ukozwe mu bimera gusa.

Amavuta y'ubwoko butandukanye akorwa mu gikakarubamba, igikakarumba gikorwamo amavuta ndetse n'isabune byo kwisiga kandi igikakarumba gikorwamo n'umuti w'amenyo rero igikakarumba rero ni icyatsi dukwiye kubungabunga tukakirinda kuzima kuko ni ingirakamaro ku buzima bwacu.

Umuti w'amenyo uteretse ku gitambaro gisa n'icyatsi kibisi, uyu muti w'amenyo ukozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, igikakarubamba ni kimwe mu bimera bikorwamo imiti myinshi, rero uyu muti w'amenyo dukwiye kuwukoresha cyane kuko ni umuti mwiza cyane uvura amenyo kandi ntabwo wangiza ubuzima bwa muntu.

Amavuta meza agezweho yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu. Indwara z'uruhu ni zimwe mu ndwara zibasira abantu benshi. Ni yo mpamvu ibigo byinshi by'ubushakashatsi byashoye amafaranga mu gukora imiti hibandwa ku miti ifitanye isano n'ibimera kuko ni yo miti itabangamira uruhu.

Ibyatsi bitoshye bisa neza, ibi byatsi byifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti itandukanye, binyuze mu kubivanga n'ibindi byatsi by'amoko atandukanye, hakavamo umuti ushobora kuvura ubuzima bw'umuntu.

Aka ni akabati gasize irange ry'umweru. Akabati kagenewe kubikwamo ibintu bitandukanye harimo imiti myinshi y'amoko atandukanye ikorwa mu bimera, iyi miti ifunze mu macupa atandukanye: hari amacupa y'umukara, ay'umweru ndetse n'afite ibara ry'umutuku.

Imiti y'ubwoko butandukanye irimo amavuta yo kwisiga ndetse n'umuti w'amenyo bikozwe mu gikakarubamba, igikakarubamba ni icyatsi gikorwamo imiti myinshi itandukanye kuko gikungahaye ku ntungamubiri zituma umubiri w'umuntu umera neza, bityo rero iki cyatsi tuba tugomba kukibungabunga kandi tukacyitaho.

Iki ni icyatsi kizwi cyane mu buvuzi gakondo. Iki cyatsi cyitwa inyabarasanya. Inyabarasanya yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo uburibwe ku mubiri, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Inyabarasanya kandi iyo ivanzwe n'ibindi byatsi, bivamo umuti mwiza ushobora gukoreshwa mu kuvura indwara nyinshi, kandi zitandukanye.

Umwe mu miti gakondo utunganyije neza ku buryo wamara igihe kinini kandi ntube wakwangiza ubuzima bw'abantu, mu Rwanda hari gahunda yashyizweho na Minisiteri y'ubuzima, aho abakora ibijyanye no gutanga imiti gakondo bahawe amahugurwa y'uko bayitegura neza, kugira ngo hirindwe ingaruka nyinshi zaterwaga na yo.

Igikakarubamba ni kimwe mu bimera bikorwamo imiti myinshi itandukanye, harimo nk'amavuta avura uruhu, umuti w'amenyo ufasha mu gusukura amenyo no kuyarinda indwara ndetse n'isabune yo gukaraba, igikakarubamba cyifashishwa cyane n'inzobere mu by'ubuvuzi.

Imiti gakondo imaze gutunganywa neza irigufungwa mu bikarito byabugenewe kugira ngo ibikwe neza izamare igihe kinini itari yangirika. Imiti gakondo iyo ibitswe neza imara igihe kinini kandi abayikoresheje ikabagiraho ingaruka nziza.

Iki ni icyatsi gikoreshwa mu buvuzi gakondo, iki cyatsi iyo cyakoreshejwe n'abavuzi gakondo babifitiye ubushobozi kikavangwa n'indi miti kigira akamaro mu buvuzi bw'umubiri w'umuntu, bityo rero tuba tugomba kubungabunga imiti gakondo kuko iyo tutayibungabunze iracika.

Amavuta ndetse n'amasabune byo mu bwoko butandukanye kandi bifite umumaro utandukanye ku mubiri w'umuntu. Harimo nk'ayongera ubwiza ku mubiri, ndetse n'arwanya ibiheri ku mubiri w'umuntu. Ibi byose bikozwe mu bimera, harimo nka avoka ndetse n'igikakarubamba.

Ibyatsi by'amoko atandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, abavuzi gakondo bagirwa inama yo gutunganya neza imiti yabo kandi igasuzumwa neza kuko imiti iyo idatunganyijwe neza itera indwara aho kuzirinda, bityo rero abavuzi gakondo baba bagomba gukurikiranwa kandi imiti yabo igasuzumwa kugira ngo harebwe niba yujuje ubuziranenge.

Umuti woza amenyo ukozwe mu gikakarubamba, igikakabamba ni kimwe mu bimera bikorwamo imiti myinshi itandukanye, uyu muti woza amenyo tugirwa inama yo kuwukoresha kuko nta ngaruka nyinshi ugira ku buzima bw'umuntu, kandi uyu muti woza amenyo neza ukayasukura, ukayarinda n'indwara zitandukanye.

Imiti myinshi y'amoko atandukanye, harimo ivura indwara zo mu nda, indwara z'uruhu ndetse n'indwara z'ubuhumekero, iyi miti tugirwa inama yo kuyikoresha kuko iyi imiti nta ngaruka igira ku buzima bw'umuntu, kuko iba ikozwe mu bimera, rero tuba tugomba kwifashisha iyi miti igihe cyose turwaye.

Uyu ni umuti ukozwe mu bimera, uyu muti uzanwa n'ikigo mpuzamahanga cya Alliance, uyu muti uzwi ku izina rya C twenty four seven. Aho uvura indwara nyinshi zitandukanye zirimo indwara zo mu nda, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Abantu benshi bagirwa inama yo gukoresha iyi miti ikozwe mu bimera, kuko itangiriza ubuzima bwa muntu.

Uyu ni umuti w'ifu. Uyu muti uboneka hasewe ibyatsi by'amoko atandukanye bivamo imiti. Iyo ibyatsi by'amoko atandukanye bisewe havamo umuti mwiza ufasha mu kuvura indwara zitandukanye, bityo tuba tugomba gukoresha iyi miti ariko tuba tugomba kuyikoresha igihe yemejwe n'abaganga babifitiye ubushobozi kuko imwe muri iyi miti yangiza ubuzima bw'umuntu.

Ibi ni ibikoresho by'amoko atandukanye byifashishwa mu gutegura, ndetse no mu kubika neza imiti gakondo, imiti gakondo iyo imaze gutunganywa, iba igomba kubikwa neza kugira ngo ikoreshwe igihe kinini, minisiteri y'ubuzima yashyizeho gahunda yo gusuzuma abakora imiti gakondo kugira ngo imiti gakondo yose ikorwa, ikorwe hagendewe ku mabwiriza y'ubuzima bityo hirindwe zimwe mu ngaruka mbi zishobora guterwa n'iyi miti.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gikakarubamba, igikakarubamba ni kimwe mu byatsi bikorwamo amavuta y'ubwoko butandukanye kandi gikorwamo n'isabune, igikakarubamba gifasha umubiri w'umuntu kugira ubudahangarwa butandukanye bityo bikawurinda kuba warwara indwara z'uruhu.

Amavuta menshi yo mu bwoko butandukanye. Bigaragara ko aya mavuta akorwa mu gikakarubamba. Igikakarubamba ndetse n'ibindi bimera iyo bivanzwe havamo amavuta ndetse n'amasabune yo mu bwoko butandukanye. Aho ibi bifasha umubiri w'umuntu kuba wakwirinda indwara nyinshi z'uruhu.

Iduka rinini kandi rigari, iri duka ricuruza imiti myinshi ikomoka ku bimera. Imiti ikomoka ku bimera iyo itunganyijwe n'abaganga babifitiye ubushobozi, iba imiti myiza cyane kuko nta ngaruka nyinshi itera ku buzima bw'umuntu.

Imiti myinshi y'amoko atandukanye, ifunze mu macupa agiye asumbana mu burebure hari n'indi ifunze mu makarito, iyi miti yose ihurijwe ko ikozwe mu bimera, ibimera bitandukanye bikora imiti y'amoko atandukanye, bityo rero dukwiye kubungabunga ibimera kugira ngo dukomeze tubone imiti myiza kandi imeze neza.